Uruhombo rutanga amazi, umuntu afite ikiganza arimo arakaraba, yambaye umwenda wenda gusa ikigina, amazi arimo arameneka ahantu bigaragara yuko atemba, hirya yaho hari ibyatsi n'amabuye.

Abantu benshi banyuranye bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amakarita yabo mu ijosi, bari kumwe n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati, bari kwifotoza bose bishimye.

Abana bambaye impuzankano, isa ubururu ndetse na kacye. Inyuma yabo hari ikibaho, cyanditseho amagambo yandikishije ingwa. Imbere yabo ku ntebe, hari ibiryo. Bigaragara ko bafatira amafunguro ku ishuri.

Abantu benshi banyuranye, harimo abagabo n'abagore, bambaye ingofero, abateze, ibitambara, abakenyeye ibiibitenge, hirya hari n'abandi bantu bari mu itente, ruguru yabo gato hari n'abandi bari mu nzu, hari n'ikindi cyapa cyaretseho amagambo mu ibara ry'icya...

Abana barindwi bari mazi barimo koga, hari abahagaze barambuye amaboko, abandi barimo koga haragaragara umutwe gusa, hari n'uhagaze yigunze ahagaze mu mazi.

Abantu bicaye bari kuganira, basa n'aho bari mu nama. Imbere yabo ku meza, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, barimo baraganira bose. Bambaye imyenda itandukanye. Muri bo, harimo n'abagore.

Inzu nyinshi ziri mu mabara atandukanye, imwe yo hirya isakaje amabati y'umutuku, ahandi hari umuhanda n'ahandi hameze nk'ikibuga.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano zabo, barahagaze, bamwe bameze nk'abari gukoma amashyi, imbere yabo hari abandi bicaye harimo; umugabo, n'abandi bicaye bafite ibikapu bitandukanye.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara, ari ku ivomero ririmo gusa ubururu. Imbere ye, hari indobo y'ubururu n'inyuma ye, hari indobo y'ubururu. Ahamwegereye hari igisima cyubakishije amatafari ahiye.

Abagore bafite amajerekani atandukanye batonze ku murongo amajerekani, bagiye ku ivomero gushaka amazi, umukobwa umwe ahagaze hafi y'ivomero ari kubafasha kuvoma amazi.

Abana bafite utujerekani baje kuvoma ku cyuma bavoma bapompa, bakaba bafite utubido twa ane n'utwarindwi, ndetse n'umubyeyi wambaye umupira w'umutuku arimo kugenda asubira inyuma.

Abana babiri bari ku ivomero, barimo baratega amazi, bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye inkweto n'imyenda irimo amabara ya gisirikare undi yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura.

Umugabo wambaye ijire n'umupira w'umutuku ari kumwe n'undi mugabo ndetse n'undi mugabo wicaye, imbere ye hari abana batoya bafite ikirango bameze nkaho hari icyo barimo barerekana kuri uyu muntu wicaye.

Abantu bicaye bafite udukayi n'udukaramu bicaye mw'imbere mu nzu umuntu arimo arabaganiriza yambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru n'ipantaro aho bari bose baricaye baratuje.

Abazungu ndetse n'abirabura bicaye imbere y'ameza asa neza, hariho igikoresho gitanga urumuri, imbere yabo hari ibikombe by'icyayi n'ikawa, bose bicaye ku ntebe zisa icyatsi.

Abantu barimo baraganira, bafite mudasobwa n'amacupa imbere yabo, umugore umwe muri bo afite indangururamajwi, birasa naho hari abantu bari kubwira, abandi bari kumwe bafite za mudasobwa, bambaye n'imidari mu ijosi.

Umugore n'abana babiri bafite ijerekani baje ku ivomero. Umugore arimo kuvoma, amazi arimo kuza. Umwana yegamye ku gikuta wambaye umupira w'umutuku uriho ibishushanyo. Akandi kana gato nako karahegereye

Abajyanama bambaye impuzankano z'akazi kabo, ndetse n'amakarita yabo mu ijosi. Bari kumwe n'umuzungu, barishimye, bamuteze yombi. Bari imbere y'ahantu hari inzu isize irangi ry'umuhondo, amagambo akaba yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Ivomero ririho abantu babiri umwana mutoya uteruye indobo y'umuhondo irimo amazi n'umugabo wambaye ikoboyi n'umupira w'ubururu ku ivomero hariho imitwe ine y'aho bavomera ryegereye inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abasore n'abakobwa bambaye imipira n'amashati y'ubururu, yanditseho ijambo Unicef, barimo barifotoza bafite ikirango cya Unicef.

Abana benshi barishimye, bambaye imyenda itandukanye bose barimo barabyiganira gukora ku mazi, amazi ari guturuka ahantu hubakiye igisima, hirya yabo hari ishyamba, abo bana bose barimo barabyigana

Ikusanyirizo ry'amazi. Aho amazi yose ahurira. Hari ibyuma bisize irangi ry'ubururu ndetse n'icyatsi. Hahagazemo umuntu umwe, wambaye imyenda y'umukara hose ndetse n'ingofero. Ni ahantu hasa neza.

Abana bane baje kuvoma bose bafite ibivomesho, umweya arimo aravoma amazi abandi barahagaze, hari uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu na bote z'umukara afite agakoni, abandi barahagaze umwe yafatiye amaboko inyuma undi wafatiye amaboko inyuma yambaye agashati k'ubururu.

Umuganga wambaye impuzankano n'agapfukamunwa k'ubururu n'ingofero mu mutwe, ari imbere y'imashini zikoreshwa kwa muganga, arimo arareba imibare imashini irimo iratanga, hirya yaho hari indi mashini atarimo gukoresha.

Icyapa kir mu ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yerekana ko bagomba kwirinda no gukingira kanseri, hari ifoto y'umuntu wambaye amarinete, munsi y'ifoto handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umwana ufite indobo zitandukanye, arimo kuzogereza ku ivuriro rigezweho ry'icyuma, aho bazamura bamanura amazi akaza, akabona kuvoma.

Abana bane n'uwa gatanu urimo kuvoma, bari ku ivomero rigezweho, bafite utujerekani baje kuvomesha amazi, imbere y'aho bari haturutse imodoka y'umweru.

Abantu bicaye abandi bahagaze, harimo umuzungu umwe barimo barifotoza, inyuma yabo hari ikirango cy'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, bahagaze ahantu harimo kwaka amatara.

Umuganga yicaranye n'umurwayi wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru muganga yambaye agapfukamunwa. Inyuma ya bo hari icyapa cyanditseho sida iracyari iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abagabo bicaye ku meza amwe, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye amakoti abandi amashati, abandi imipira, bari ku meza bafite ibirahuri birimo icyo kunywa n'udukaye imbere yabo.

Abantu bicaye mu itsinda, barimo baraganira, buri wese afite ikaye n'ikaramu, barimo barandika, umwe muri bo afite icupa ry'amazi imbere ye, hirya gato hari abandi bantu ndetse n'intebe, bateraniye aho ngaho.

Umuganga arimo arakingira umwana mutoya, umubyeyi yaje gukingiza urukingo rw'abana. N'abaganga banyuranye, hari n'abantu batandukanye baje kwitabira icyo gikorwa.

Igishushanyo kigaragaza uko uburinganire bwagiye buzamuka mu miryango igiye itandukanye ihuza abantu. Muri bibiri na cumi n'umunani byari mirongo itanu nagatanu, bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi, bibiri na makumyabiri byari mirongo irindwi na gatandatu kw'ijana, bibiri na makumyabiri nari rimwe mirongo irindwi n'icyenda kwijana.

Abaganga banyuranye, bambaye impuzankano y'umweru, bambaye mu mikufi mu ijosi, biragaragara ko ari abaganga bagiye gusuzuma abantu, inyuma yabo hariho icyapa kigaragaza ko bari bagiye gusuzuma indwara ahantu.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, inyuma yabo hari umugabo wicaye ku meza, afite ikaramu n'ikayi, inyuma ye hari abandi bantu bitwikiriye mu mutwe, abandi bameze nk'aho bari mu kidari.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'umwana wambaye umupira wa pinki, umwana yikoreye ijerekani iriho ikirango cya UNICEF, umugabo arishimye n'umwana arimo guseka.

Umwana wishimye afite igikombe ari ku ivomero arimo aravoma amazi. Yambaye agapira gasa umutuku. Iruhande rwe hari ibindi biti, n'ikindi gisima. Arimo aravoma amazi yishimye.

Umugabo wambaye ingofero n'umupira w'ubururu n'ipantaro arikoboyi n'akana gatoya bagakoreye jerekani y'amazi, undi muntu nawe arimo aragafotora, hari abandi bantu bahagaze barimo baritegereza aka kana.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye n'ishati yikoreye indobo y'umutuku, indi ndobo y'umuhondo ayifashe mu ntoki, imbere ye hari agatandaro banikaho imyaka, imbere ye hari ibindi biti binyuranye.

Kizimyamwoto ebyiri ziri mu ibara ry'ubururu, hasi hazo harasa umukara n'udupfundikizo twazo turasa umukara, hafi yazo hari ikindi gikoresho gisa ubururu, gifite n'akandi gakoresho munsi k'ubururu, iruhande rwazo hari ikindi gikoresho cy'umukara.

Abagabo, abagore, urubyiruko, bose bahagaze imbere barimo barifotoza, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abagabo bane n'abagore batatu, bahagaze bifotoza, bahagaze imbere y'inzu isize ibara ry'ubururu, hejuru yaho hari icyapa cyanditseho ubuzima, ahandi inyuma yaho hari ibyapa binyuranye byegereye hafi y'imiryango.

Umugabo n'umugore, umugabo yambaye imyenda y'bururu hose, n'umugore yambaye imyenda isa. Imbere yabo hari ameza, ameza amwe ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, igikoresho kiyungura amajwi. Imbere y'ameza y'umugore hari amacupa y'amazi, inyuma y'uyu mugabo hari intebe ziri imbere y'ameza.

Umukorerabushake wicaye ku ntebe afite ibyo ari kumira yegeranye n'abandi bakorerabushake bambaye impuzankano yabo, hari n'abandi bantu bahagaze ku ruhande barimo baritegereza ibyo arimo gukora.

Abagore babiri bicaye mu ntebe z'ubwegamiro, imbere yabo bose bafashe ku meza, bambaye imyenda itandukanye. Umwe yambaye isaha, undi ntayo yambaye, umwe ateze igitambaro cy'umuhondo, undi ntacyo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umwana uryamye ku gitanda ndetse n'abaganga barimo kumwitaho, ari kumwe n'umubyeyi we ubona yigunze, inyuma yabo hari agasorori k'ibiryo, bari mu ivuriro mo imbere, barimo baritabwaho.

Abagore bicaye barambije, bateruye abana babo n'abandi bantu bari kunyuraho bahereza aba bana batoya amata, bari guca bugufi bakabasukira amata ababyeyi babo babateruye.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara. Bambaye imyenda itandukanye. Barimo baraganira ku ngingo zinyuranye. Bamwe barimo baraseka, harimo abandi batarimo baraseka. Bicaye ku meza, barimo kuganira.

Abantu babiri barimo baravoma amazi, ni umugore n'umugabo. Umugore yitandiye umwitero usa iroze, yambaye umupira w'amaboko maremare, akenyeye n'igitenge. Bose bafite amajerekani asa umweru. Hirya y'ivomero hari ishyamba ry'ibiti bitandukanye.

Umugabo wambaye bote, ipantaro n'ishati y'amaboko magufi, yicaye ku gatebe gatoya, afite amakayi ndetse ari kumwe n'umubyeyi wicaye mu ntebe y'ubururu afite akana, umubyeyi yamuhereje impapuro arimo aramusobanurira, bicaye hafi y'umuryango ku nzu yubakishije amatafari ahiye, hafi yaho hari igitambaro.

Umunyeshuri uri ku rukarabiro rwo ku ishuri, yambaye impuzankano y'ubururu n'umupira, akaba ari ku rukarabiro, arimo arakaraba intoki n'amazi meza.

Abagore babiri bateruye umufuka w'umuceri, hari abagabo bahagaze n'umugore urimo kugenda; barimo baregeranya umuceri mu mifuka, bawushyira ahantu hamwe.

Umwana mutoya n'umukobwa bari kumwe wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo, afite igitenge ku mugongo, arimo kuvoma amazi atemba ayashyira mu ndobo.

Umusaza wishimye, yicaye ku ibido arimo aravoma, yaje ku ivomero aje kuvoma, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'inzu ihubatse, hari n'akantu kameze nk'agasozi.

Abana, abagore, abasaza n'abakecuru, ndetse n'urubyiruko bicaye ku ivuriro. Impande yabo hari urukarabiro, ndetse begereye hafi y'ivuriro rifite ibara ry'umukara n'amabati y'umutuku.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku yazinze amaboko yayo, ari ku ivomero amazi arimo kumanuka arimo kuyakaraba, arimo arareba ku ruhande, ku ivomero hari icyapa gihari hegereye n'ishyamba.

Abana babiri baje kuvoma ku ivomero rigezweho, hari umwana ufite akabido gatoya, arimo aravoma, undi we arimo kumufasha gupompa amazi amanura azamura kugira ngo amazi aze, bose barishime.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga afite imisatsi isutse ,afite indangururamajwi ndetse n'ikayi arimo arabwira abaturage bicaye mu ihema ,bambaye imyenda itandukanye iruhande rw'ihema hari ikirango gifite ibara ry'ubururu n'amagambo yanditseho ndetse ndetse n'ifoto ,hari n'undi muntu urimo kuza mu inama.

Inshinge cumi na rumwe ziri ku isahani zifite udupfundikizo dusa zose, iruhande rwazo hari agacupa bavomamo umuti bazishyiramo mbere yuko bazitera umurwayi.

Umwana wambaye ishati ya kake, ari kumwe n'umubyeyi we wambaye umupira w'ubururu akenyeye n'igitenge, yambaye n'agapfukamunwa. Umubyeyi arimo arakarabya umwana intoki akoresheje isabune n'amazi meza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi, hari abagore bahetse abana ndetse n'abandi bana batoya, hari undi mugore urimo kwandika afite ikaramu muntoki n'ikayi.

Abaganga bari kumwe n'abarwayi. Umurwayi w'umubyeyi ari kumwe na muganga wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki. Arimo aramufata ikizamini cy'amaraso. Iruhande rwe hari undi wambaye ikote ry'umukara afite ibinini mu ntoki. Imbere yabo hari amakarito y'imiti ndetse n'uturindantoki.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ari ku ivoma afite akabido arimo kuvoma. Inyuma ye hari undi mwana ndetse n'umukecuru wambaye nawe ikanzu y'umuhondo, ateze n'igitambaro cy'ubururu.

Abantu bicaye mu nama, abagabo n'abagore, barimo baraganira ku ngingo zitandukanye. Umwe muri bo afite mudasobwa, abandi bafite amakaye yo kwandikamo ibitekerezo, hari n'abahagaze.

Umujyanama w'ubuzima afite ikayi n'ikaramu, yambaye impuzankano, arimo arasuzuma umwana, umwana yegeranye n'umubyeyi we w'umukecuru, iruhande rwabo hari undi musaza utwikiriye igitenge n'abandi bantu bari inyuma yabo.

Umwana wambaye umupira wenda gusa umutuku n'ikabutura y'ubururu, afite igikombe arimo aravoma amazi y'umugezi, amazi meza yo kunywa yishimye afite ibyishimo.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku n'umupira urimo ibara rya gisirikare ari ku ivoma arimo aratega amazi akanywa amazi nayo ari kumanuka munsi yaho hari indobo yenda gusa umweru hari igisima cy'aho ivomo ritereye.

Ababyeyi bicaye ku ntebe bambaye imyenda itandukanye, bose bafite abana b'impinja, bameze nkaho baje gukingiza bamwe bafite ibikapu, ibitenge bitandukanye, begamiye inzu yubakishije amatafari ahiye hamwe asize ibara ry'umutuku andi ibara ry'umukara n'umweru.

Umubyeyi ufite akana aragatoye yicaye ku ntebe. Hari n'umuganga ufite imisatsi isutse n' maherena wambaye umwenda w'abaganga arimo guhereza umwana umuti.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu bw'ikirere n'inkweto z'incongo, ari kuri kandagira ukarabe ikoresheje akabido. Ari hafi y'inzu, inyuma ye, hari ururabo.

Abana benshi bari ku ivomero, aho barimo baratega amazi arimo kumanuka, aho bari hari ibase barimo barategeramo amazi, abandi barahagaze barimo baritegereza, ibyo abana barimo gukora.

Abantu bambaye impuzankano, bamwe bambaye impuzankano y'umweru abandi bambaye iy'ubururu, bahagaze ahantu hatwikiriye barimo barifotoza, iruhande rwabo hariho icyapa kirimo ifoto y'umuganga ufite igikoresho cyo kwa mu muganga hirya yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Amacupa ameze nk'aya kizimyamwoto. Yose akoreshwa kwa muganga. Hafi yayo hari ahandi hameze nk'aho bafatira ibipimo. Byose bitetse ku gikoresho kimwe cy'icyuma kihegereye.

Abana batandukanye benshi bazanye ibivomesha, bamwe bazanye ibijerekani bisa umuhondo, umukara, umwe muri bo arimo aravoma amanura, azamura maze amazi akaza.

Abagabo bicaye ahantu hamwe, bose bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, bamwe muri bo bambaye ingofero z'umutuku, iz'umweru, harimo abagore bakeya, birasa naho bari mu nama, hari n'undi muntu uhagaze muri bo.

Abantu bahagaze ku ivomero. Bamwe bafite amajerekani y'umuhondo, abandi bafite amabase, abandi barahagaze, abandi baricaye, bategereje kuvoma ku mugezi.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ijipo y'umutuku n'ishati irimo uturongo, ari kuri kandagira ukarabe. Hafi ye hari ibase arimo arakaraba intoki. Inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abagore bane n'umugabo umwe, bambaye imipira y'ubururu yanditseho shora neza, bambaye n'ingofero z'umweru, bose bafunze igipfunsi bakimanika hejuru, begereye hafi y'inzu ifite umuryango w'umukara.

Abantu barimo barifotoza, harimo abagabo ndetse n'abagore, muri bo harimo n'abaganga, bambaye imyenda itandukanye aho bari, hari icyapa kiriho amafoto y'abangavu ndetse n'amagambo yanditseho uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Abagore babiri n'umugabo umwe bose bambaye imyenda itandukanye, barimo baraterura umufuka w'umuceri, bawushyira ku yindi mifuka begeranyije bagiye barundarunda.

Abasore babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye ishati y'umweru ahetse n'igikapu, hirya yabo hari undi uri kuvugira kuri terefone n'abandi bantu bari mu bikorwa byabo bari ahantu mu nzu.

Abana bane barimo baraseka bose bambaye imyenda itandukanye, bari kumwe n'umubyeyi w'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse na bote. Abo bana barimo barakaraba intoki, amazi akagumya agwa mu ibasi iri munsi y'intoki zabo.

Abana b'abahungu n'abakobwa. Bambaye impuzankano y'ishuri isa. Bari ku ivomero. Bafite indobo z'umuhondo n'utujerekani tw'amazi. Bose barimo barakinisha amazi, bimeze nk'aho baje kuvoma. Inyuma yabo, hari ibiti by'amoko anyuranye.

Umwana ari ku ivomero, arimo aratega amazi ashaka gukaraba arishimye cyane, afite umusatsi mwinshi, yambaye ikabutura y'icyatsi n'umupira urimo amabara y'ubururu n'umukara.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umweru bamwe muri bo bafite imikufi y'amakarita bambaye mu ijosi, bamwe barasutaraye abandi barahagaze inyuma yabo hari icyapa cyanditseho RBC ndetse gifite n'amabara y'umuhondo y'umweru n'umutuku.

Abana bafite utubido, utudomoro dutandukanye baje ku ivomero rigezweho kuvoma amazi yo kunywa n'ayo gukoresha, hari n'abandi bantu bakuru bahagaze barimo barareba umwana uburyo avoma akoresheje ivomo rigezweho.

Umugore urimo araseka, yambaye agapfukamunwa, ahetse umwana, undi amuhagaze iruhande, ari mu nzu arimo ateka igikoma, afite isafuriya yateretse ku mbabura, hafi ye hari indabo y'icyatsi.

Umugore ufite umwana mutoya, umwana arimo araseka n'umubyeyi arimo guseka, begereye hafi y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye afite n'idirishya risize ibara ry'umuhondo.

Abagore batatu bose bafite inkoni, bose bakenyeye ibitenge bitandukanye, banateze ibitambaro bitandukanye, banambaye imipira y'amabara atandukanye. Umwe muri bo arimo aronsa umwana, amuhekeye mu rubavu.

Abagabo, abagore, abana, n'abakecuru bafite amabendera y'u Rwanda barishimye. Bose bambaye imyenda itandukanye. Bazamuye amabendera y'u Rwanda hejuru bose.

Umukobwa wicaye mu ntebe yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'isengeri y'umukara n'umukufi mu ijosi n'ibikoma ku maboko, arimo araseka areba hejuru, yifashe mu musatsi we.

Icyapa kiriho abantu babiri umugabo n'umugore bafashe umutwe, barimo baravuga ku buzima bwo mu mutwe. Hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo, ''world mental health day 2023.''

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, bose bahanze amaso umugabo wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umweru n'ipantaro y’ikoboyi. Bose bafite amakaye n'amakaramu barimo barandika ibyo arimo kubabwira, iruhande rwabo hari ibirango bitandukanye.

Icyapa cya Isange One Stop Centre kiriho ikirango cya Polisi y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Hepfo hari ibindi birango nk'icya UNICEF, UNIFRA, UNIFEM n'ibindi.

Madamu Jeannette Kagame ari kumwe n'abandi bantu banyuranye. Barimo barifotoza bafite seritifika. Harimo n'undi mugore umwe, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo nyuma yaho gato hari indi nyubako ndetse n'imikindo.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ariko ari mu ibara ry'ubururu, inyuma y'aho hari intebe z'amoko anyuranye, imbere y'imodoka hari umubyeyi, imodoka iparitse ahantu hari ibyatsi henda kumera nko mu kibuga.

Icyapa kiriho umutwe w'umuntu hagaragara ubwonko ndetse n'inyenyeri hejuru kuri uwo mutwe hakikije amagambo yanditse ururimi rw'icyongereza avuga ngo Rwanda mento herifu heth nasingi situdenti asosiyesheni.

Umuganga wicaye, inyuma ye hari abandi bagore bambaye imyenda itandukanye n'amakarita yabo mu ijosi, imbere aho umugore yicaye, hateretse amacupa atatu y'amazi ndetse na mudasobwa iri mu ruhande rwe, uyu muganga yambaye isaha n'impeta.

Icyapa kiriho amafoto y'abantu batandukanye, umugore uhagaze wenyine, umugore ufatanye n'umugabo ku rutugu, umugabo uri wenyine, umugore wambaye ikanzu ifite amaboko magufi, umugore n'umugabo, umugore wicaye, umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu uhagaze n'undi mugabo uhagaze wenyine, munsi yabo hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugore wambaye agakoti k'ubururu, n'ikanzu y'umutuku, afashe ku kundi kuboko, afite imisatsi idefirije, arimo araseka, yifotoreje ku cyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ngo abafatanyabikorwa mu buzima.

Umukobwa uri mu iduka, umucuruzi yambaye umwenda wa MTN w'umuhondo, ari mu iduka ririmo ibirungo, sesitomate n'ibindi birungo binyuranye.

Umugore wambaye ijipo n'umupira w'icyatsi cyijimye, yambaye isaha ateze igitambaro mu mutwe, yicaye ku ntebe arigunze arimo arareba ku ruhande, inyuma ye aho yicaye hari ururabyo rushushanyije aho ngaho.

Umugabo ufite ubumuga bwo mu mutwe, afite imisatsi myinshi ntiyiyogosheshe afite n'ubwanwa bwinshi, yambaye imyenda yamucikiyeho arasamye, hafi ye hari intebe ndetse ari imbere y'inzu n'umutaka w'ubururu.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ahagaze hafi y'imodoka y'ikamyo, afite igifuka kirimo imyenda yashaje ndetse hirya afite ikindi kintu afashe, yambaye imyenda yashaje cyane yacikaguritse.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, yiyambuye yambara ubusa, afite ikintu yaziritse ku kuguru kwe, yicaye yigunze yarambije hasi.

Icyapa kigaragaza ifoto y' yumuntu wambaye ishati yu'mweru inyuma ye hari ibendera ry'igihugu hejuru hari amagambo yanditseho un ngo turikumwe imbere ye hari andi magambo yanditseho UN 75 seventy-five shiping future together n'ibindi byinshi.

Abantu bahagaze bifotoza harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, bifashe mu buryo butandukanye mu kwifotoza, inyuma yabo hari ikirango gihari, hirya hari inzu nziza cyane.

Abantu bari munzu imbere, barimo barifotoza, bamwe barasutaraye abandi barahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore n'abakobwa n'abasore, bambaye imyenda itandukanye bose, imbere y'umugabo umwe hari icupa ry'amazi n'ameza.

Umuntu wicaye hasi yegamye ku gikuta, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye umupira w'umutuku, ipantaro ndetse n'inkweto yicaye yigunze, imbere gatoya hari imodoka n'andi mazu.

Abantu bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umukara, bamwe bambaye ingofero, abandi ntibazambaye, barimo baratera ibiti. Hamwe barimo baragitera, ahandi baragifashe, ahandi bagifasheho ari babiri, undi arahagaze n'abandi barimo barabareba.

Icyapa cyanditseho ijambo wihogora, hariho umuntu upfumbase ikintu kimeze nk'umupira, handitseho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza mu ibara ry'ubururu, ndetse n'andi mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bane, bamwe baricaye abandi barahagaze, umwe muri bo arimo aravuga yambaye ijire y'umukara afite n'agapfukamunwa yashyize mu kaboko, inyuma ye hari undi mubyeyi n'undi mubyeyi wicaye ufite ikaye n'ikaramu, inyuma yabo hari undi mugabo uhagaze n'undi wifashe mu mayunguyungu ku ruhande.

Ibitaro bya karayesi byita ku bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, aho byubatse hari ubusitani bwiza harimo ateyemo ibyatsi ndetse umuryango urakinguye.

Ababyeyi bambaye imyenda itandukanye, bateze ibitambaro, bamwe bahetse abana, imbere yabo hari umugabo urimo kubasobanurira, hafi ye hari ameza ateretseho icupa ry'amazi, inyuma ye nanone hari icyapa kiriho amagambo atandukanye.

Abantu bicaye bari mu nama, umugore umwe afite indangururamajwi, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'icupa ryamazi, abandi bamuteze amatwi barimo barumva ibyo ababwira.

Abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye, abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, barimo barafata ifoto, bari mu nzu irimo kwaka, inyuma y'aho bari kwifotoreza hari icyapa cyanditseho RBC n'ibindi bigo bitandukanye.

Umugabo uhagaze wegamiye ku rukuta areba hejuru, yambaye umwenda umeze nk'igishura ndetse n'umukufi mu ijosi, arimo gutekereza cyane yegamiye kuri urwo rukuta.

Abanyeshuri bishimye bari kwifotoza bamanitse ibiganza, bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu ndetse na kaki, inyuma yabo gato hari ibendera ry'igihugu.

Abantu bari mu nama, bicaye mu ntebe nziza. Imbere yabo hari umugore uhagaze wambaye ikanzu y'umweru n'agakoti k'umukara, imbere yabo ku meza yabo hari uducupa tw'amazi ndetse hari n'abateretse ibikapu byabo imbere. Bose bafite amakayi n'amakaramu yo kwandikamo.

Umugore wikoreye urutebo, rurimo imigozi y'ibijumba ndetse n'ibijumba. Afite isuka mu ntoki ze, yambaye ikote ry'umukara n'umupira uciyemo uturongo, ateze n'igitambaro. Iruhande rwe hari inzu isakajwe amategura.

Umugore ufite abana babiri yicaye, imbere ye hari urutaro ruriho ibigori ndetse n'ingemeri irimo ibigori afite akana gatoya yatwikirije igitambaro cya pinke, iruhande rwe hari akandi kana gasa n'akigunze, umugore ateza igitambaro cy'umuhondo, bicaye iruhande rw'inzu ihomesheje ibyondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hari igishushanyo kigaragaza abakobwa babiri, umwe wambaye ipantaro n'umupira w'amaboko maremare n'agapfukamunwa undi wambaye umupira w'amaboko maremare n'isarubeti n'agapfukama, hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bahagaze mu nzu mu imbere, hari ameza akoze ibara ry'umuhondo ndetse hari na purafo ziri mu ibara ry'umuhondo risa n'iry'ameza, barahagaze, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bafashe mu mufuka, buri wese ahagaze mu buryo bwe.

Abana barimo baraseka bafite ibyishimo byinshi, bamwe bambaye impuzankano y'icyatsi, abandi nta mpuzankano bambaye, bose izuba riri kubacana ku mutwe, ubona ko bicaye ku zuba.

Ubukangurambaga bw'urubyiruko abagabo n'abagore, umugabo ufite indangururamajwi n'abandi bafite igitambaro cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yange. Kiriho ibirango bya polisi n'ikirango cy'igihugu.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye ingofero n'igikoti cy'umukara n'ipantaro yacikaguritse ndetse n'urukweto rumwe rwacitse, afite ibintu hirya ku ruhande ibishashi birimo amazi mu ntoki ze, arigunze.

Abantu babiri bahagaze, umwe afite indangururamajwi, arimo kuvuga, afite n'agasakoshi, abandi baricaye, abagabo n'abagore bamuteze amatwi , bari mu nzu mo imbere harimo kwaka amatara.

Mu ivuriro harimo haraka itara, harimo imashini yifashishwa mu kuvura iyo bakura amenyo abantu barwaye amenyo. Harimo intebe umuganga yicaraho n'igitanda umurwayi aryamaho n'ibindi bikoresho umuganga akoresha.

Umugabo wambaye ubusa hejuru afite agashumi arimo arashyira mu menyo. Ku rutugu rwe rw'iburyo hariho isume y'umweru, afite agashumi yashyize mu menyo bisa naho arikugacisha amenyo.

Umwana muto wambaye ishati y'umweru, afatishije ukuboko kwe kw'iburyo uburoso bufite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, arimo arakorera isuku amenyo ye, biragaragara ko yishimye.

Umugabo uri ku gitanda bavuriraho abarwayi amenyo, ari kumwe na muganga wambaye uturindantoki dusa ubururu, arimo aramwereka uko yajya yita ku menyo ye ayagirira isuku kugira ngo akomeze kuyarinda.

Umugabo urimo guseka. Arerekana amenyo yose, afite ubwanwa. Inyuma ye hari icyapa cy'umuhondo, nta rindi bara ririho, nta n'ikindi kintu cyanditseho. Arimo araseka agaragaza amenyo yose. Yambaye umupira w'umweru.

Umusore uryamye ku gitanda abaganga b'amenyo bakuriraho. Araryamye arimo araseka afite ibiganza bye yabifatishije ku nda. Yambaye umwenda w'umweru igitanda na cyo kirasa umweru, hafi ye hari aho bakarabira igihe bamaze kumuvura.

Umusore ufashe akagozi n'amaboko abiri, arimo arakanyuza mu menyo, arasa n'uwasamye amenyo yose arimo kugaragara, arimo aranyuzamo ako kadodo.

Umusore ndetse n'umwana bose bambaye imipira y'umweru, umugabo afite imisatsi idefirije, bose bafashe akadodo barimo baragashyira mu kanwa bameze nk'aho barimo baragakoza mu menyo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru n'igitambaro cy'umweru afite uburoso bw'amenyo busa ubururu, arimo aroza amenyo neza yitonze.

Umuntu wasamye bamaze gukura iryinyo turabona icyuma cy'umukasi gifashe iryinyo bamaze kurikuramo harasa n'ahari umwobo harimo gutorukamwo amaraso makeya.

Umuganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda arimo gukurwa amenyo. Umuganga yambaye impuzankano z'abaganga ndetse n'uturindantoki, agapfukamunwa n'amarinete hejuru mu mutwe. Hari ibindi bikoresho bitandukanye akoresha iyo bavura, muganga arimo kumutera ikinya mu kanwa.

Mu ivuriro mo imbere aho bakurira amenyo, hari igitanda umurwayi aryamaho n'agatebe umuganga yicaraho iyo amuvura. Hari ibitara byifashishwa bavura amenyo n'izindi mashini zitandukanye.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi w'umweru, ari n'umurwayi arimo aramwereka uko umuntu akwiye kurinda neza amenyo ye, yirinda kuyashyiramo ibintu biyangiza.

Abantu babiri umukobwa mukuru n'umwana mutoya, bombi bafite uburoso bukoreshwa mu koza amenyo, bombi bashyizeho umuti ukoreshwa iyo boza amenyo, bambaye udukanzu tw'umweru bose.

Umugabo wambaye igikoti cy'umukara, ari kwikora mu kanwa, bigaragara nk'aho arimo kwikura iryinyo, inyuma ye hari ibitambaro by'umutuku ndetse n'ahari icyuma, hari n'impapuro zikoreshwa mu isuku ndetse n'isume y'umukara.

Abantu barimo kwifotoza bishimye, harimo abasore, abakobwa, urubyiruko muri rusange, bafite imyenda itandukanye, bamwe bicaye hasi abandi barahagaze barishimye bose.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare afite imisatsi idefirije, afatishije ukuboko kwe kukananwa, arimo araseka, ukundi kuboko gufashe indorerwamo arimo kwireba, arimo araseka yishimye, iruhande rwe hari urukarabiro rw'umweru.

Umuganga w'amenyo wambaye uturindantoki, afite igice kiriho amenyo, arimo arerekana uko umuntu, ashobora kurinda neza amenyo ye kwangirika.

Abana batoya bari mu ishuri bafite ibikapu babikamo amakaye, bose bafite imiti y'amenyo iba iri mu makarito atandukanye. Abandi bafite n'uburoso, bambaye imyenda itandukanye, harimo abantu babiri bakuru, umwe ufite imisatsi yadefirije.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa arasamye, afashe agashumi n'amaboko yombi, arimo kugashyira mu menyo, amenyo ye arimo inyinya yose, arimo araseka.

Umuntu uryamye ku gitanda yasamye, muganga arimo aramukura iryinyo, muganga yambaye impuzankano y'ubururu n'uturindantoki tw'ubururu, agapfukamunwa k'umweru n'ingofero y'umweru, aho bari harimo kwaka amatara, imashini zaho zirimo ziraka zose.

Abantu bitabiriye ibikorwa byo kwipimisha indwara zitandura. Hari abaganga barimo barabafasha, babapima uburebure, ibiro ndetse n'ibindi. Abandi bari mu ihema, aho bari gupimwa izindi ndwara zitandukanye.

Umuganga uvura amenyo, ari kumwe n'umurwayi, umuganga yambaye agapfukamunwa, yambara n'uturindantoki, afite igipimisho bigaragara ko agiye gusuzuma umurwayi, umurwayi a aryamye ku gitanda cy'abarwayi areba muganga.

Amenyo yo mu kanwa k'umuntu, hari amenyo maremare y'imbere, amenyo y'ibijigo, byaba iby'iburyo n'iby'ibumoso, hasi no hejuru, biragaragaza umuntu wasamye yerekana amenyo ye.

Umugabo wirabura udafite ubwanwa, afashe igikoresho bashyira mu menyo arasamye, arasa n'ugiye kugishyira mu kanwa kugira ngo gikomeze kurinda amenyo ye kwangirika.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru, afite umuti woza amenyo mu kiganza kimwe, ikindi kiganza gifite uburoso arimo koza amenyo anaseka.

Umuganga w'amenyo arimo arereka umwana ibice by'amenyo n'amenyo muri rusange, ari kumwe n'abandi baganga n'undi mugabo uhagaze kuruhande, wambaye ipantaro n'ikoti bisa.

Umugore wasetse urimo kwerekana uburyo abantu bakwiye kurinda neza amenyo yabo, arimo arerekana ko ugomba kurinda ishinya yawe amenyo agahora asa umweru, abikoresha yerekana intoki ze azerekeza mu kanwa.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu arimo araseka afite amenyo yose, ayera asa umweru, yiyogoshesheje neza, afite mu maso hakeye ndetse n'ubwanwa.

Umusaza wicaye afite ikaye arimo kwandika, yambaye umupira w'amaboko maremare n'ishati n'amarinete arimo arandika, iruhande rwe hari telefone, ari mu nzu irimo kwakamo amatara.

Umusaza barimo baramukarabya hakaza ifuro ry'umweru. Afite umusatsi w'imvi ndetse n'ubwanwa bwe bwabaye imvi, hari umuntu urimo kumukarabya mu mutwe.

Ababyeyi batanu baricaye bose bafite imyenda itandukanye, barimo baracuruza inyanya, inyuma yabo hari izindi mbuto harimo n'amaronji n'izindi.

Umusaza n'umukecuru, bicaye imbere y'ameza, barimo barareba uko banywa imiti, ku meza hari imiti, n'igikombe cy'amazi, umusaza yambaye umupira w'ubururu wa rakosite, umukecuru yambaye umupira w'umutuku.

Umubyeyi wicaye urimo gukora imirimo y'ubukorikori yo kuboha igitebo, hafi ye hari undi mubyeyi wicaye mu ntebe, umusaza w'umuzungu ndetse n'abandi bicaye barimo baraseka, inyuma yabo hanitse imyenda ku mugozi.

Umugore udefirije imisatsi yambaye amarinete, yambaye ikanzu y'umuhondo, afite agacupa karimo umuti arimo arasuka ku ntoki, hasi hateretse agacupa k'ibara ry'icyatsi kari ku meza.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye, uwo hagati yambaye umupira w'umuhondo, uwo ku ruhande yambaye umupira w'umweru, undi yambaye umupira w'ubururu bose barimo barareba muri terefone barishimye.

Umukecuru wambaye umupira w'umweru afite isahani n'ikiyiko, isahani iriho amoko atandukanye y'imboga, arimo araseka, yambaye amaherena ku matwi.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, ari kumwe n'umukobwa, bose barishimye, umusaza wambaye umupira w'amaboko w'umukara, n'aho umukobwa yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi.

Umusaza wambaye umupira w’umweru n’ipantaro y’umukara afite udukoresho bakoresha bagorora amaboko ,twombi turasa umutuku yambaye ekuteri mumatwi yambaye n’amarineti.

Abantu bahagaze barishimye bamwe barimo barakoma amashyi, umubyeyi umwe ari guhereza undi mubyeyi igikapu kimeze nkaho kirimo ishuka, inyuma yabo hari ahantu hameze neza hari ibitambaro by'icyatsi n'ubururu.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu, imbere y'ameza yabo hariyo amazi n'amacupa arimo imiti. Umusaza n' umukecuru barimo barareba muri terefone, umusaza yambaye ishati y'amaboko magufi, umukecuru yambaye agapira k'ubururu n'imikufi mu ijosi.

Umusaza wicaye mu igare ry'abafite ubumuga, yambaye umupira w'umweru, afite igikoresho bakoresha bagorora umubiri. Ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, ufite igikoresho bakoresha iyo bumva ugutera k'umutima, umukobwa yambaye ikanzu y'umutuku.

Umuganga n'umukecuru umukecuru afite igipimo cy'umutuku, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'akandi k'imbeho, muganga na we yambaye impuzankano z'abaganga.

Abakecuru banyuranye abenshi muri bo bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, umwe muri bo uri imbere yabo yambaye ikanzu y'ubururu, hari n'uwambaye ijipo y'umukara n'ishati y'ubururu.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri. Yambaye isengeri y'ubururu n'ipantaro y'umutuku n'inkweto ifunze. Iruhande rwe, hari igitanda. Yicaye ku gakoresho akoresha iyo ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusaza ufite ikayi imbere ye, hari n'ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga bakoresha iyo bari gukoresha mudasobwa, yifashe mu gahanga, ikiganza kindi gifashe mu ikaye, arasa naho ahangayitse kuko arasinziriye.

Umuganga wambaye impuzankano z'ubururu, afite n'igikoresho cyumva uko umutima utera, afite ibinini arimo arabiha umukecuru, umukecuru afite igikombe kirimo amazi, imbere ye ku meza hateretse ikarito irimo imiti.

Abantu bicaye munsi y'igiti. Bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye ku mabuye, abandi bicaye hasi. Bose bameze nk'aho bari mu nama, barimo kuganira. Bambaye imyenda itandukanye. Ntawufite umwenda usa n'uwundi.

Ababyeyi babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye umupira mugufi wenda gusa umukara, undi yambaye isengeri y'umweru, bombi barambuye amaboko barishimye, bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugore wambaye isengeri y'umweru arimo araseka, afite igikoresho gikoreshwa muri siporo gifite ibara rya move, inyuma ye hari umusaza n'abandi bagore bari inyuma ye.

Umusaza wicaye mu ntebe nziza ari kumwe n'umuganga, arimwo aramwitaho, umusaza afite inkoni yambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare, bari mu ivuriro mo imbere, harimo haraka amatara.

Umusaza, umukecuru n'umusore wambaye amarinete, inyuma yabo hari abandi bantu batatu barimo kuganira. Umusaza yicaye mu igare ry'abafite ubumuga, imbere hari isosi arimo arasangira n'umukecuru.

Umusaza uri kumwe na muganga umusaza yambaye ishati y'amaboko maremare muganga nawe yambaye impuzankano z’abaganga ,afite igikoresho gipima umuvuduko w’amaraso ,arimo arapima umuvuduko w’amararaso w’umusaza.

Umubyeyi wicaye mu ntebe yegamye yambaye umupira w'amaboko w'ubururu, ari kumwe n'umwana we amufashe mu gituza. Bose barishimye barimo baraseka.

Umubyeyi urimo gutanga ibintu, hari abandi bantu bicaye abandi barahagaze bahugiye mu bikorwa byabo binyuranye, hari n'abandi bantu bari kuza, bicaye ahantu mu kidara.

Abantu babiri bicaye imbere y'ameza, umubyeyi wambaye umupira w'amaboko w'umweru n'umwana wambaye umupira w'ubururu w'amaboko matoya. Umubyeyi arimo arakata imboga yishimye, umwana na we arimo aramureba mu maso, iruhande rwabo hari imbuto, umukobwa na we yegereye isahane.

Umubyeyi, umukobwa we ndetse n'umwana mutoya, umwana afite ibimera, bose barimo baraseka ariko umwana asa n'ushaririwe, iruhande rwabo hari ibikoresho byo mu gikoni nk'ibirahure n'amasahani.

Umusaza wicaye ku gitanda cy'abarwayi. Ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga. Arimo aramufasha, amufashe mu mugongo ndetse no mu kiganza. Inyuma yabo hari ishuka ririmo ibara ry'ubururu. Hejuru hari supanete irinda imibu. Hirya yabo hari inzugi ndetse n'amarido.

Umusore, umukobwa ndetse n'umukecuru barahagaze barimo barafata ibyo kurya, umusore ku isahani ye y'umweru hariho umugati n'izindi mbuto, imbere yabo ku meza hari izindi mbuto, ndetse umukobwa arimo arahereza umusore imbuto ndetse n'umukecuru.

Abasaza bicaye hamwe imbere mu nzu, bambaye ingofero z'aba isilamu, harimo n'abasore batoya b'urubyiruko barimo baraganirizwa n’abasaza babakuriye.

Ababyeyi batatu babiri muri bo bambaye ingofero, umwe yambaye ingofero y'umukara undi yambaye ingofero y'umweru, bambaye imyenda itandukanye, umwe afite igipfuko mu ntoki, bose barimo barareba muri telefone.

Abakecuru bicaye ahantu hamwe, bishimye barimo baratanga ibitekerezo bitandukanye, hari umukecuru umwe wicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi barambije.

Umubyeyi uri mu kagare k'abantu bafite ubumuga, ari kumwe n'umuganga, muganga arimo aramupima umuvuduko w'amaraso, muganga yicaye mu ntebe yambaye n'impuzankano y'abaganga.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu, umukecuru afite mudasobwa, umusaza arimo aramwereka icupa ry'umuti, imbere yabo hateretse ibirahure ndetse n'impapuro.

Abasaza batandukanye b'abayisilamu, bambaye imyenda itandukanye, bicaye mu ntebe zisa, abo hirya bicaye mu ntebe ndende, bari ahantu hameze nk'ahazamuye, bamwe bafite inkoni z'abasaza, abandi ntazo bafite.

Umugabo uri kumwe n'umuganga w'umugore, muganga w'umugore yambaye impuzankano z'abaganga. Umugabo yambaye ipantaro itukura n'ikoti rirerire cyane ndetse n'inkweto z'umukara, barimo imbere mu nzu mu ivuriro.

Icyapa cya rbc r iri mu ibara ry'ubururu b iri mu ibara ry'umuhondo c iri mu ibara ry'icyatsi, risobanuye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Umugabo wambaye isurubeti y'ubururu na bote, n'ingofero mu mutwe, n'umubyeyi wicaye arimo guseka, abubatsi barimo kubaka, umuganga uri imbere y'imashini zivura, abaganga begeranye ndetse n'abandi baganga bambaye impuzankano zabo.

Icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, munsi hari ibara rya pink, hepfo hari ibara ry'umuhondo, amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ko bagomba kwita ku bantu barwaye kanseri.

Icyapa cyerekana inyubako ya Kigali convention center, iruhande rwayo hari umwana w'umukobwa yambaye ijipo n'agapira ndetse yateze n'igitambaro, hejuru ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'ikindi kirango.

Abantu bicaye bameze nk'aho bari mu mahugurwa bambaye imipira y'umweru bose basukishije ibisuko bimwe bisa naho ari abanyeshuri, imbere yabo hari umuntu urimo urabaha amahugurwa n'undi muntu ufite igikoresho gifata amashusho.

Abasore babiri n'abakobwa babiri. Umukobwa umwe afite udukingirizo dutatu turi mu ibara ry'umweru, n'utundi dutatu turi mu gifuniko cy'umutuku. Naho umuhungu afite udukingirizo tune turi mu ibara ry'umweru. Hari hafi yabo hari undi ufite icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'ifoto y'agakingirizo.

Umugore wambaye ijipo y'umweru n'andi mabara n'agashati k'icyatsi, yadefirije imisatsi, yambaye amarineti, afite indangururamajwi, arimo arabwira abantu bicaye bamureba bamuteze amatwi, inyuma ye hariyo ikindi cyapa, indangururamajwi n'imizindaro.

Abantu bicaye mu nama rusange. Imbere hari abicaye barimo baratanga ikiganiro, harimo abazungu n'abirabura. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'lcyongereza ndetse n'ijambo RBC.

Icyapa kiriho ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru yaho hari utuzeru tubiri two twanditsemo amagambo mu rurimi rw'icyongereza, amwe yanditse mu ibara ry'umukara, andi yanditse mu ibara ry'umutuku.

Icyapa cyanditseho "news letter health organization" umubyeyi ari kumwe n'umwana inyuma yabo hari abandi bantu bambaye amashati hari n'abandi bambaye karuvati umubyeyi arimo kwita ku mwana we.

Abaganga batatu bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, abandi bambaye imyenda y'ubwirinzi, barimo baragaragaza uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagenze.

Abantu bicaye mu nama, harimo abazungu n'abirabura, abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, imbere ku ruhimbi hari abantu barimo baravuga bicaye, umwe muri bo afite indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse n'utundi twapa dutoya, ikiriho umutuku ndetse n'ikiribiriho ubururu.

Abantu bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu, cyanditseho minisiteri y'ubuzima, ariko ayo magambo akaba yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Ni abagabo batatu n'abagore batatu bambaye imyenda itandukanye.

Icyapa cyanditseho gatatu, kiri mu ibara ry'icyatsi, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo ''Ubuzima bwiza, imibereho myiza.'' Hariho akandi karongo kavunaguye ndetse n'ikimenyetso cy'umutima mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri harimo dogiteri Sabin Nsanzimana minisitiri w'ubuzima, bombi bambaye amakote y'ubururu umwe yambaye karuvati y'umukara undi karuvati y'ubururu. Inyuma ya bo hari icyapa kiriho ibirango bya repubulika y'u Rwanda dogiteri afite igitabo arimo kwifotozanya nacyo undi nawe afite igitabo yenda kumuha bombi bafatanya mu kiganza.

Icyapa kiriho ingamba zo kwirinda no guhagarika icyorezo cya korona virusi. Harimo guhamagara ijana na cumi na kane, gukaraba intoki kenshi, kwambara agapfukamunwa, kurya ibiryo bikungahaye kuri vitamine, gusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe n'ibindi byatangajwe na Arabisi.

Abaganga barimo barasuzuma indwara zitandukanye, hari abaganga b'abakobwa ndetse uw'umusore, bose bambaye impazankano, abandi baje kwisuzumisha, ku meza yabo hariho imiti, ishinge n'ibindi barimo barakoresha basuzuma.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye amakote n'abandi bagore, abandi barahagaze inyuma yabo, aho bari harimo haraka, ku ruhande rwabo hari ibirango bihakikije, bicaye bareba imbere barimo kwifotoza.

Ibirango bitandukanye bya kanseri zitandukanye zikunze kwibasira abantu, hari ibiri mu ibara rya move nka kanseri y'ibere mu ibara ry'ubururu rigaragaza kanseri, ibara ry'icyatsi rigaragaza kanseri y'abana n'izindi nyinshi.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara ari kumwe nundi mugore ndetse n'umugabo uri inyuma ye bombi bambaye udupfukamunwa umugore arimo arashinyiriza ameze nkaho hari ikintu barimo baramuhanduramo iruhande rwe hari ameza ateretseho ikintu cy'ubururu kirimo ibikoresho.

Abaganga bambaye impuzankano y'ubururu ingofero z'ubururu udupfukamunwa tw'ubururu, bose bari mubi bitaro mu imbere hirya yabo hari televiziyo zifite amashusho y'ubururu bari hafi y'imashini zikoreshwa kwa muganga bose bahugiye mu bikorwa byabo.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'lcyongereza ndetse andi ari mu ibara ry'umweru. Hashushanyijeho ikimenyetso cy'umutima, cyanditseho uburenganzira ni nshingano n'ikindi cyapa cy'umutima, cyanditse mu magambo y'umweru.

Abantu bicaye mu nama, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ipantaro' y'umukara, afite indangururamajwi, arimo atanga ikiganiro, hari ibindi birangagantego bitandukanye, biri mu cyumba bicayemo.

Icyapa kiriho ifoto ya madamu Jeannette Kagame, ari imbere y'indangururamajwi yambaye ishati y'ubururu yambaye n'amarinete. Ni icyapa kiriho amagambo avuga ngo mento helifu aweyanesi kampeni ndetse n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Ababyeyi bane bicaye batoye abana babo, batatu bose bateze ibitambaro undi uri ku ruhande nta gitambaro, yambaye umupira w'umukara, inyuma yabo hari amafoto atandukanye, hari iri mu ibara rya move igaragaza umubyeyi ari n'umwana n'andi mafoto anyuranye.

Umugabo n'umugore bafite ibyapa byanditseho uko abantu bakwiye kurinda ibidukikije. Hirya yabo hari icyapa kirekire kiriho ikirango cy'igihugu n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa kigaragaza indwara zitandura, hafi yaho hari ikaramu mu ibara ry'umukara ndetse n'igikoresho cyifashishwa iyo bapima gutera k'umutima.

Urubyiruko rufite icyapa cyanditseho rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera SIDA ipimisha uyu munsi, yanditse mu mabara y'umweru, abanyeshuri bambaye impuzankano bari kumwe n'abarimu babigisha, hirya yabo hari inzu barimo baranyura mu muhanda.

Icyapa cyanditse mu ibara ry'umukara. Amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi hariho amagambo avuga ngo cancer prevention phyisical inactivity direct factor obesity and being over weight andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru hepfo gato handitse hu.

Icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, hari n'ahanditse ibara ry'umweru mu magambo matoya. Itariki zandikishijwe ibara ry'umuhondo. Hariho ibigo binyuranye nka RBC, Kaminuza y'u Rwanda, Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ibindi bigo binyuranye.

Ububiko bunyuranye bubitswemo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga. Hari ibiri mu gikoresho cy'icyatsi, bibitswe neza muri ubu bubiko bwabyo.

Ibitaro bya Rwamagana, ni amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, ikaba ari inzu ndende ifite imiryango n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, imbere yabo hari abantu barimo barahifotoreza, ni inzobere mu by'ubuvuzi.

Inyubako y'ibitaro by'amaso, inyubako ndende ifite ibara ry'umweru, imbere ifite imiryango ibiri y'umutuku inzugi zirafunze, hari amakaro ku ruhande agiye ahakikije imbere yaho hari amapave.

Umugabo uhagaze arimo aratunga urutoki ku cyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru handitseho amagambo atandukanye. N'inyuma ye hari icyapa gisa n'icyo ngicyo. Hari undi mugabo wicaye ufite mudasobwa, Imbere ye hari icupa ry'amazi. N'undi uri inyuma ye ufite mudasobwa n'icupa ry'amazi. Bose imbere yabo hari ameza n'intebe nziza.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya menshi kandi ni ngari cyane, hari itara rihegereye rifite ibyuma by'umukara, imbere yaho hari ubusitani bwiza.

Inzu igeretse inshuro eshatu, hariho imodoka enye z'umukara, iruhande rwayo hari indi nzu ngufi isakaje amabati y'umutuku, hino gato hari umutaka wa Airtel n'umugore uhicaye, hari n'undi mugabo urimo kuza amugana.

Imashini z'umukara zikoreshwa kwa muganga zifite ahantu hameze nk'aho hari agatebe. Imbere yaho hari ikirahure kimeze nk'icya mudasobwa, mu imbere mu kirahure hose harasa ubururu. Ni imashini nyinshi ziri mu ivuriro mu imbere kandi harimo haraka amatara.

Ibitaro birimo ibitanda binyuranye, abo barwayi baryamaho iyo baje kwivuza, harimo ameza anyuranye abaganga bakoresha, ndetse n'intebe bakunze kwicaraho. Ku ruhande imbere hari televiziyo nini cyane.

Icyapa cy'irembo mo hano mu nzu harimo abagabo babiri, umwe yambaye umudari werekana ikarita undi, yambaye ijire igaragaza RBC imbere yabo hari ibikoresho byifashishwa kwa muganga, umugabo barimo baramupima umuvuduko w'amaraso.

Mu bitaro mu imbere harimo haraka amatara, harimo utumeza dutandukanye dufite n'amapine, harimo n'indi meza y'umukara n'utundi dutebe, hirya gato hariyo imashini ikoreshwa kwa muganga.

Ivuriro ririmo ibikoresho nk'intebe zo kwicaraho, imashini zikoreshwa n'abaganga zifite amapine, ibikoresho bitanga umuyaga, amatara, intebe abantu bicaraho n'ibindi.

Inzu ababyeyi babyariramo, ikunze kwitwa materinete, isize ibara ry'umweru, ifite inzugi n'amadirishya atandukanye, imbere yaho hari umurasire ndetse n'ubusitani.

Mu bitaro mo imbere harimo abarwayi baryamye ku bitanda, abandi bicaye, ibindi bitanda birashashe, abandi bari mu tugare badashobora kwigenza, harimo abantu bahagaze nk'umugore uhetse umwana, harimo na supanete.

Inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi, harimo imiti inyuranye imwe iri mu bikombe, indi iri mu bikarito binyuranye bifite n'amabara atandukanye, hari na mudasobwa y'umukara iteretse imbere yaho.

Abantu benshi baje ku ivuriro, ivuriro ryubakishije amatafari ahiye risize ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, amagambo yanditseho yanditse mu ibara ry'umweru imbere yaho hari itente, hari irindi vuriro risakaje amabati y'ubururu, abantu bahari bambaye imyenda itandukanye.

Umubyeyi uri mu kagare k'abarwayi ari kumwe na muganga, bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, hirya gato hari undi muganga uri kumwe n'umusaza, ku meza bicayeho hariho imiti n'umuti wica udukoko two mu ntoki, hirya naho ku rundi ruhande hari undi muganga uri kumwe n'abarwayi bityo bityo.

Mu ivuriro imbere harimo haraka amatara, harimo irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, harimo ibitanda, imiti, imashini n'ibindi bitanda bifite amapine.

Abantu batatu barimo baragenda ahantu hasa neza hari amapave, abandi bari guturuka mu kandi gahanda kari imbere yabo. Hafi yabo hegereye ibiti ndetse hari n'urutsinga rw'amashanyarazi, imbere yabo hari inyubako mu ibaraza ryayo harimo abantu.

Mu ivuriro mo imbere harimo igitanda cy'umutuku, intebe z'umutuku, imashini isohora impapuro, akabati k'impapuro, hirya hari izindi mashini, idirishya, amatara arimo araka mo imbere.

Mu ivuriro mo imbere harimo imashini zikoreshwa mu buvuzi, harimo imashini zose ziracometse zifite imigozi ziteretse hejuru y'ameza, hejuru yaho hagiye hariho igikoresho cy'umukara kiriho urutsinga.

Ni ivuriro ririmo ibikoresho n'imashini zinyuranye, hari imashini zifite amapine n'izifite insinga nyinshi, hari izindi zimanitse hejuru hari n'izindi, n'indi iteretse mo hagati, biragaragara ko haryamyeho umuntu ku gitanda.

Inzu irimo ubusitani bwiza cyane, harimo imirongo iciye, iri mu ibara ry'umweru, harimo n'ibindi bikoresho binyuranye, bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Abagore batatu bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bahagaze ahantu babiri bafashe mu mifuka undi ntabwo afashe mu mifuka, inyuma yabo hari ibiti byiza ndetse bameze nk'abahagaze mu muhanda.

Ivuriro ririmo ibikoresho binyuranye by'ubuvuzi hari kimwe kirimo kirasa ubururu ikirya gatoya hari ahateretse imiti n'ibindi bikoresho hari agatebe ka muganga ndetse n'igitanda cy'umurwayi hari n'izindi mashini zifotora cyangwa zireba ikibazo umuntu afite.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bafite amakaye yo kwandikamo, imbere yabo hari uducupa tw’amazi, harimo n'umuntu ufite mudasobwa, hari umuntu urimo kubafotora akoresheje ifatamashusho z'ikoranabuhanga.

Mu ivuriro imbere, hari imashini zagenewe kuvura abarwayi, zirahari zitandukanye, harimo televiziyo nini bareberamo ishusho y'uburwayi bw'umurwayi n'ibindi bimenyetso, harimo n'ifoto, hari imiryango ifunze, hari n'ibitambararo, hari n'igitanda cy'abarwayi gishasheho ishuka y'umweru.

Ivuriro ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati y'umweru, hanze rifite inkingi zisize ibara irangi ry'umweru n'amadirishya asize irangi ry'umweru, hakikije ibyuma bifite ibara ry'umukara.

Icyumba bavuriramo indwara zitandukanye. Harimo imashini iteretse ku meza, harimo aho umurwayi aryama, igitanda cy'umurwayi, harimo agatebe gatoya k'umukara.

Inyubako nini kandi nziza cyane ifite amadirishya menshi n'imiryango myinshi, haruguru yayo gato hari ahantu hatwikiriye baparika imodoka, hari ubusitani bwiza cyane burimo indabyo n'ibyatsi bisa neza.

Ibitaro byitiriwe umwami fayisari, imbere yaho hari amabendera atandukanye, ikaba ari inzu ndende, igeretse inshuro ebyiri, hejuru yaho handitseho umwami fayisari, imbere yaho kandi hari abantu bahagaze, bamwe barimo baragana ibitaro, haragaragara n'umukozi ukora isuku.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite imiryango ifite inzugi z'umweru, hejuru yaho mu ibaraza hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ku cyapa cy'umweru gihari.

Inzu y'ahakorerwa ubushakashatsi bw'imiti. Ni inzu igeretse kabiri, isakajwe amabati y'umukara. Imbere yaho mu ibaraza haparitse imodoka y'umukara. Hari ubusitani bwiza n'inzira ijyayo. Ni inzu isize irangi ry'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha gifite ahantu heza hari amapave. Imbere yacyo hari abantu bahicaye, umugore uri n'umwana ndetse n'umugabo uri n'umwana. Iki kigo nderabuzima cyubakishijwe amatafari ahiye n'isakaro ry'amabati y'ubururu.

Mu bitaro mo imbere. Abarwayi baryamye ku bitanda. Bose bari ku bikoresho byongerera umwuka abarwayi. Inyuma yabo hejuru hari imashini zibafasha kubahereza umwuka. Hafi yabo hegereye amacupa y'amazi n'ibindi bikoresho bifite ibara ry'ubururu.

Ibitaro bya sehashibe ni inzu ndende ifite amabati y'umutuku imbere yaho hari ibendera ry'igihugu. Hari ibirahuri byinshi imbere yaho nano haparitse imodoka zifite amabara atandukanye iz'umukara n'iz'umweru, kandi hari ikindi kirango cyerekana aho wagenda u ubabaza serivisi hari n'umugore witwikiriye umutaka ari kumwe n'umwana.

Inzu y'ubuvuzi irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, imashini ziri mu ibara ry'umweru zifashishwa mu bikorwa byo kuvura abarwayi batandukanye.

Umuganga wambaye impuzankano, ari mu ivuriro imbere, arimo arakoresha mudasobwa mu buvuzi bwe, yambaye uturindantoki n'agapfukamunwa, hari n'izindi mashini n'ibindi bikoresho binyuranye mu ivuriro aho ari.

Imodoka y'umukara, iruhande rwayo hari umugore wifashe mu mayunguyu, ku rundi ruhande hari umuntu ufite ikaye arimo gusoma yagiranye n'abandi babyeyi bitwikira ibitenge. Hirya gatoya hari abandi bantu benshi bahagaze mu rubaraza rw'inzu igeretse imeze nk'amashuri cyangwa ivuriro.

Paniel pharmacy ni inzu ndende iriho icyapa cyanditseho farumasi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku dukorana na midere plan na missiola n'ubundi, bwishingizi. imbere yaho haparitse moto n'umumotari wambaye kasike n'undi muntu uhagaze hafi y'umuryango.

Mu ivuriro rigezweho, harimo ibikoresho bigezweho, bikoreshwa mu buganga, harimo intebe nziza umuganga yicaraho, ibitanda byiza bigezweho umurwayi aryamaho, ndetse mo imbere harimo ibishushanyo binyuranye by'inyamaswa.

Inzu nini y'ikigo nderabuzima cya Nyakinyinya, ni inzu yubatswe igeretse kabiri, isize irangi ry'umweru, ifite amabati y'ubururu, imbere yaho hari ibara ryenda gusa umutuku ndetse n'ibendera ry'igihugu imbere yaho mu busitani.

Mu ivuriro harimo intebe zicayeho abantu izindi nta bantu bicayeho, izi ntebe zirasa icyatsi, mu ivuriro mo imbere harimo haraka, hari n'ibindi bishushanyo n'imashini zitandukanye.

Ibyuma bifite amabara y'ubururu n'icyatsi, hariho iminyururu naho abana bicara, igihe barimo baricunda, inyuma yaho hari uruzitiro, rukoreshejwe ibyuma n'amatafari ahiye.

Ivuriro ahanditse risaci senta, harimo ibikoresho binyuranye, umuryango urakinguye, hirya gato harimo intebe n'ibitanda kandi harimo haraka amatara.

Mu bitaro mo imbere harimo haraka amatara, harimo ibikoresho binyuranye nk'aho bakarabira, aho bashyira imyanda, mudasobwa aho ziteretse ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu nziza cyane ifite idirishya ry'umweru, hejuru yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ngo Rwanda kansa senta, hafi y'aho hari ubusitani ndetse n'itasi irimo ururabyo, imbere yaho hari guturuka abasirikare.

Imbere mu ivuriro harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, hari n'imashini abaganga bifashisha bavura, harimo televiziyo nini y'umukara ndetse hari n'inzugi zifite amabara y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'ubururu.

Ivuriro rikinguye, umuryango umwe urafunze, imbere harimo ibikoresho byo kwa muganga harimo ibitanda n'imashini zifashishwa mu kuvura, hasize irangi ry'umweru amatara arimo kwaka mo imbere.

Ikigo nderabuzima cya Nyaburezi, gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, gikikijwe n'ibyuma hejuru no hasi, gifite amadirishya ndetse n'inzugi, munsi yaho hahagaze abantu, baje kwivuza no gushaka izindi serivise zitandukanye kwa muganga.

Inzu nziza ifite amabara meza n'ibirahure bibonerana mu madirishya yayo. Hari urugi imbere yarwo, hari umugore utoye umwana n'undi mugore uhagaze ndetse n'umugabo wegamye ku rukuta. Hari abandi bantu turimo turabonera mu birahure barimo imbere.

Icyapa kigaragaza aho ibiro bya polisi bikorera, inyuma yacyo hepfo gatoya hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite isakaro ry'amabati y'ubururu.

Abaganga b'abazungu ndetse n'abirabura bari ku bitaro bya Butaro. Barimo barifotoreza ku cyapa cyaho, bambaye imyenda itandukanye. Bamwe bambaye amakositime abandi bambaye imyenda y'amoko anyuranye.

Abajyanama b'ubuzima barasutaraye, bari kumwe n'abayobozi, mu nzego zitandukanye, bari imbere y'ivuriro, aho ababyeyi babyarira. Ni ivuriro ryubatswe n'amatafari ahiye ndetse risakajwe amabati y'ubururu.

Mu ivuriro mo imbere, harimo haraka amatara, hasize irangi ry'umweru, harimo supanete zirinda imibu, harimo ibitanda by'abarwayi, hamwe haryamye abarwayi, hari hasize irangi ry'umuhondo n'umweru.

Imodoka z'umukara ziparitse ndetse n'iz'umweru ziparitse, hari umuntu ushinzwe umutekano, urimo kwerekana aho bashyira imodoka ndetse inyuma yazo hari inyubako ndende, ifite imiryango myinshi n'amadirishya menshi.

Umuganga w'umukobwa ari kumwe n'umusaza. Umusaza yambaye ishati yenda kuba umutuku n'ipantaro, yambaye n'amarinete. Arimo arasekera umuganga. Muganga yambaye impuzankano, afite n'umusatsi udefirije. Afite igikoresho bakoresha iyo bapima umutima.

Abagore babiri bafite ibitenge mu bitugu byabo, umwe afite ibikapu bimwegereye, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ingofero, hari undi mugabo wicaye wigunze yegeranye n'umugore, hari abandi bahagaze n'abandi begereye ku ivuriro risize irangi ry'umweru risakajwe amabati atukura.

Ivuriro rya karayesi ni ivuriro rifite irangi ry’umweru amabati asize irangi ry'ubururu imbere yaho hari indabo z'umuhondo n'izindi zera uturabo tw'umutuku.

Inzu ifite imiryango ibiri, hariho irangi ry'umweru inzu yose ifite ibirahure, hariho ahanditse ngo sitopu, hejuru y'iyo nzu handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu mabara atandukanye.

Kuri isange one stop center ku bitaro bya Kabutare, ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo hari abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse n'abagore babiri bose bambaye udupfukamunwa, hirya yabo hari imodoka.

Igishushanyo kigaragaza ibice by'ijisho. ijisho, imboni y'imbere ndetse n'ibindi bipurizo. Harimo ibisa ubururu, umweru byinshi bitandukanye, hari n'intebe abantu bicaraho.

Inzu yo kwa muganga, aho bavurira abana, harimo igishushanyo kiriho ibikinisho by'abana, ukwezi n'ibindi, iruhande rwaho hari imashini hejuru, munsi yaho hari gitanda n'aho buririra bajya ku gitanda, harimo urukarabiro n'ibindi bikoresho.

Mu ivuriro mu imbere harimo imashini zitandukanye, hari inini zifite n'amapine, imbere yazo hateretse za mudasobwa z'umukara, ku rundi ruhande hari imiryango ikinze, mu imbere harimo imiti inyuranye.

Inzu yo kubyariramo, ahantu hatwikiriye, hari umuganga uhagaze wambaye agapfukamunwa, iyi nzu ifite idirishya risize ibara ry'icyatsi, urugi ndetse na kizimyamwoto.

Inzu y'ubuvuzi irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'igikoresho gipima indwara, mudasobwa, intebe abaganga bicaraho n'ibindi bikoresho binyuranye bikoreshwa mu buvuzi.

Mu ivuriro mu imbere hateguye neza cyane, hari imiryango itandukanye, hari umuryango wanditse zeru rimwe n'andi magambo, undi wanditseho zeru kabiri n'andi magambo, hirya gatoya hari indi miryango, uriho ifoto y'umugabo n'umugore ndetse n'undi muryango utanditseho.

Inyubako y'ivuriro yubatse mu buryo bwa etaje, igeretse kabiri ikikijwe n'ibyuma, isize irange ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yaryo hari icyapa kiyobora abantu ibyo bakora, ku muhanda ku marembo hari amatara ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Farumasi yitwa Porogiresi farumasi harimo imiti y'amoko anyuranye, hari ipfunyitse mu makarito, indi iri mu macupa atandukanye n'amabara anyuranye.

Abaganga batatu bambaye impuzankano y'ubuganga, bose bambaye uturindantoki tw'ubururu, imbere ku meza yabo hateretse amazi ndetse n'imiti inyuranye bakoresha.

Ivuriro ririmo ibikoresho bikoreshwa mu kuvura indwara. Harimo imashini z'umukara harimo igitanda umurwayi aryamaho, ameza n'ibindi. Harimo harakamo amatara.

Ku kigo nderabuzima hari abantu batandukanye baje kwivuza indwara zinyuranye. Abakobwa, ababyeyi, abasaza n'abakecuru, bamwe bicaye ku ntebe aho bategerereza abaganga ngo babahe serivisi.

Kwa muganga, harimo ibitanda binyuranye, hari igitanda kiriho igitambaro k'icyatsi, hirya yaho hari ibindi bitanda bitatu, byegeranye bifite amapine, mu imbere harimo haraka amatara, hari n'ibindi bitara bimurika iyo barimo baravura.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda imuranga ku kazi, ari kumwe n'umubyeyi ufite agahinja gatoya cyane kavutse, umugore w'umuganga yambaye agapfukamunwa n'amarinete.

Mu bitaro kwa muganga, harimo abarwayi ndetse n'abaganga, barimo babitaho. Harimo icyuma gifasha gutanga umuyaga, ndetse n'amatara, n'izindi mashini zikoreshwa mu buvuzi.

Umuntu wicaye mu ntebe zo kwa muganga bategererezamo ndetse n'abandi bari kurundi ruhande, imbere yabo hari imeza iteretseho ururabo rwiza, hari undi mugabo uhagaze ari kumwe n'abaganga barimo baramufasha.

Ibitaro bya Ruhengeri bifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye n'ibyuma bisize irange ry'umweru, abantu barimo barahatambuka hafi yaho, bambaye imyenda itandukanye abandi bikoreye ibase itwikirijeho igitenge.

Inzu nyinshi zigerekeranye. Ni inzu igeretse kabiri, ifite ibara ryiza isakaje amabati y'umutuku. Imbere yayo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, moto iparitse ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umutuku, biparitse mu busitani bwaho.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, byanditse mu cyapa gifite ibara ry'umutuku n'umweru, hari abagore barimo barahatambuka, batambuka ku marembo yacyo, abandi bari mu muhanda, ruguru yaho hari ivuriro ryubatse risakajwe amabati y'ubururu.

Inyubako y'ibitaro harimo ibitanda by'abarwayi, intebe bicaraho, ameza, intebe z'ubwegamiro, ibishushanyo binyuranye, tereviziyo imanitse imbere, amatara arimo kwaka mu bitaro mu imbere.

Umwana wambaye ubusa hejuru n'ipantaro y'umukara y'ikoboyi, ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'abaganga, yambaye ibikoresho basuzumisha mu gutwi, iruhande rwabo hari undi musore wateze igitambaro, yambaye n'umupira ndetse n'ikabutura.

Ivuriro bavuriramo abarwayi, harimo intebe ebyiri, abarwayi bategerezaho, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, imbere yaho harimo ibindi bikoresho by'ubuvuzi, abaganga bakoresha bavura.

Inzu y'ivuriro irimo ibikoresho binyuranye by'ubuvuzi, abaganga bahagaze bitegereza mu mashini, bose bambaye udupfukamunwa, harimo n'abandi bagabo b'abazungu, bambaye udupfukamunwa bose bari muri iyo nzu.

Mu ivuriro mo imbere, harimo ibitanda by'abarwayi, ibitambaro bikingiriza abarwayi, aho abarwayi bashobora gushyira amatelefoni, inzira nyabagendwa abantu banyuramo n'ibindi.

Inyubako y'ibitaro ifite irangi ry'umweru isakajwe amabati y'umutuku hari aho bagendera abantu bahagana ndetse hari n'ubusitani bumeze neza inyubako ifite imiryango myinshi hari n'ibindi bikoresho by'umuriro bihari.

Ivuriro ryubakishije amatafari ahiye, rifite amadirishya asize ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zisize ibara ry'umweru, handitseho inzu y'ababyeyi, rifite ibyuma biyikikije ndetse hari n'ubusitani imbere yayo, n'andi mazu iruhande rwayo.

Mu ivuriro mo imbere harimo ibitanda by'umweru byose bifite amapine, hari ibitambaro by'ubururu byose bigiye biri aho igitanda kiri ndetse n'ibitambaro by'umweru, no hirya na ho haragaragara ibindi bitanda, inyuma yaho hari ibindi bikoresho ndetse n'urugi.

Umuganga w'umugabo, afite igikoresho bakoresha bumva itara ry'umutima, yambaye impozankano z'ubururu, ari kumwe n'umukecuru wambaye ikanzu uteze igitambaro cy'umukara, begereye hafi y'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, hirya yabo hari insina ndetse n'indabo.

Ivuriro ririmo rirakamo amatara, rifite imiryango itandukanye umuryango umwe urafunze hose hari ibara ry'umweru, hari irange ry'umweru, haraka neza hose.

Mu bitaro harimo igitanda cy'umurwayi gishashe neza, imashini yifashishwa mu kuvura neza abarwayi ndetse n'ikindi gitanda cy'umukara kiri hirya gatoya n'imashini.

Umuganga wambaye imyenda y'umweru n'amarinete y'umukara, arimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, hari n'undi muntu wambaye imyenda y'umweru, mo imbere mu nzu, harasa n'ibara ry'umuhondo.

Ahantu hafite ubusitani bwiza buriho ibyatsi bisa neza, mo imbere mu byatsi harimo ibendera ry'igihugu, hakanyuramo umuhanda urimo gutambukamo abantu, iruhande rwaho hari inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu y'ivuriro ifite ibara ry'ubururu n'iry'umweru harimo harakamo amatara, hari ahanditse amagambo avuga ubutabazi bwihuse, ahandi hari urugi rufunze ndetse n'intebe abantu bicaraho.

Umugabo ufite ibiro byinshi, yambaye isengeri y'umweru ari muri siporo arimo arananura amaboko afunze ibipfunsi, yerekana ko siporo ari ubuzima kuri buri muntu uwo ari we wese.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umusore wambaye umupira uciyemo uturongo afite igikoresho cyisuumukara bakoresha iyo bagorora ukuboko, yegeranye n'umukobwa wambaye agashati k'ubururu n'ipantaro y'umukara. Aho bari hari n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoresha imyitozo ngororamubiri.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo uryamye wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru, ari muri siporo arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Udukombe dutatu duteretse ahantu hamwe, turimo imiti inyuranye igabanya ububabare, ifite ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hari n'ayanditse mu ibara ry'umuhondo, amacupa yose apfundikije imipfundikizo y'umweru.

Icyapa kiriho ibara ry'umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'ikigina. Mu mutuku, harimo ikimenyetso cyo guteranya, kiri mu ibara ry'umweru. Mu cyatsi, harimo umuntu, mu kigina, harimo ibiganza bibiri no mu bururu, harimo umuntu urimo kwiruka.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, afashe ukuguru k'umurwayi arimo aramukandakanda amuvura, aryamye ku gitanda cy'ubururu yambaye ikabutura y'umukara.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'amaboko magufi ndetse n'umukufi mu ijosi, yicaye ku gitanda arambuye ukuguru, umuganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'ikarita, arimo aramwitaho amuvura amupfuka ku kirenge.

Umuganga kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda umurwayi barimo baramuvura umuganga yambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa n'uturindantoki arimo arakora ku mashini asuzuma umurwayi inyuma ye hari igitambaro cy'ubururu.

Icyapa kigaragaza ubwoko bwa siporo, ushobora gukora kugirango umubiri wawe ugarukane imbaraga, harimo guhagarara ukuguru kumwe, guhagarara ku kuguru kumwe ukarambura amaboko, guhagarara ukuguru kumwe ufashe ku ntebe ndetse no guhagarara utanyeganyega.

Umubyeyi n'umwana bicaye mu bitaro kwa muganga, bicaye ku gitanda gishasheho amashuka anyuranye, inyuma yabo hariyo abandi barwayi hejuru hariho supanete, mu ruhande rwabo hari ibindi bitanda by'abarwayi bishashe.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite icupa ry'amazi arimo kunywa, yambaye isaha ndetse n'ibikoresho by'umuziki bashyira mu matwi. Arimo aranywa amazi yumva n'umuziki.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi afite ibiro byinshi, afite umupira mu ntoki uri mu ibara ry'ubururu n'irindi bara ryijimye, handitseho kane n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ukuboko gufite ijage, kurimo kurasuka amazi mu kirahure, iki igikombe ni ikirarahure, ijage na yo ni ikirarahure, uyu muntu arimo arasukamo amazi yo kunywa.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agasenge gatoya, afite imisatsi idefirije, imbere ye hari amatasi arimo indabo no ku ruhande rwe, ari ku kintu kimeze nk'umutuku arimo arakora siporo zo kunanura umugongo areba hejuru.

Icyapa kigaragaza ibyo babil ikora hariho umuntu urimo kwiruka ariko hariho amagambo yanditse mururimi rw'Icyongereza avuga ku byiza byo gukora siporo buri munsi, imyitozo ngororamubiri harimo kongerera umubiri imbaraga, kugabanya umuvuduko w'amaraso, ugabanya imihangayiko n'ibindi.

Umugore ufite imisatsi isutse ihambiriye inyuma, yafashe amaboko yombi arimo arayananura, afite agatambaro yaziritse mu mutwe, mu musatsi we hafi yo ku gahanga.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, umukobwa yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri yenda kuba umweru, bari hafi y'intebe aho umusore yicaye arimo kunywa amazi, umusore yambaye ikabutura y'umukara n'sengeri y'umukara, imbere yabo hari ibikapu.

Umusaza wambaye ipantaro y'umweru. Ipantaro yayizinze, afite igitambaro cy'ubururu yapfukishije ku ivi. Agifashe mu kuboko kw'iburyo, ukundi kuboko kw'ibumoso gufashe ipantaro.

Igikapu kirimo amoko y'imiti atandukanye, hari imiti iri mu macupa, indi iri mu makarito, indi iri mu macupa y'umweru, amacupa y'ikigina ndetse n'amakarito atandukanye muri icyo gikapu.

Igishembo gisa ubururu bifashisha iyo barimo bashemba umuntu wagize ikibazo cy'imvune cyangwa se afite igisebe. Ni igishembo kinini cyane kicyuzuye mo imbere harimo akantu gasa umwera.

Umuntu wakomeretse barimo barapfuka, barimo baramushyiraho ibipfuko ku maboko. Ukuboko kumwe barangije kugushyiraho ibipfuko ariko ukundi baracyarimo kubishyiraho. Turabona umuganga ufite imyenda y'umukara ari ahari hari n'igikapu.

Umuganga uvura amaso ari kumwe n'umwana, arimo aramumurika mu maso amusuzuma ngo arebe ikibazo afite. Umuganga yambaye umwenda w'akazi kandi yambaye umupira wa move.

Umukobwa w'umuganga, wambaye impuzankano z'ubururu, uturindantoki tw'ubururu, n'agapfukamunwa k'ubururu, arimo arareba muri mudasobwa isa umukara, imbere ye ku meza hari amakayi abiri, ndetse n'urupapuro, mu ijosi afite igikoresho abaganga bakoresha, iyo bumva gutera k'umutima.

Icyapa kigaragaza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona virus covid cumi n'icyenda harimo kuguma mu rugo, kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki kenshi, kwirinda gusuhuzanya mukorana mu biganza, gusiga intera hagati yawe na mugenzi, kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi n'ibindi.

Umusore ufashe inyuma mu gahanga arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umweru, arimo arareba imbere amaboko yayafatishije ku gahanga.

Umuganga, umubyeyi n'umwana mutoya, umuganga n'umubyeyi bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, muganga arimo aravura umwana akoresheje icyuma gifotora, iruhande rwe hari n'ibindi bikoresho, akoresha mu kuvura ndetse na mudasobwa.

Ibishushanyo by'abana bari mu mikino itandukanye. Umukino wa mbere umwana aricaye. Umukino wa kabiri umwana ari kwigorora. Umukino wa gatatu arimo kwiruka inyuma y'ipusi. Umukino wa kane umwana yicaye arimo araterura ariteri. Umukino wa gatanu barerekana abana bakina umupira w'amaguru ndetse n'ahandi bahagaze n'abicaye.

Icyapa cya babeli kiriho uburyo umuntu yagumya kwicara n'imyitozo agomba gukora kugira ngo akomeze kurinda umugongo we harimo amafoto ane atandukanye yerekana uburyo umuntu yakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa baregeranye, umukobwa aryamye ku mugongo w'umusore areba hejuru, bose barimo baranywa amazi meza ari mu ducupa tw'ubururu.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, afite igitambaro cy'ubururu yasize ku kaboko k'iburyo afatisha ak'ibumoso, inyuma ye hari umusego w'umweru yicaye mu ntebe.

Imiti y'amoko atandukanye irikumwe ahantu hamwe harimo ibinnii bivura umutwe ibindi bivura umunaniro ibindi bivura indwara zitandukanye bimwe biri mu ibara ry'umuhondo n'ibindi mu mutuku, ibindi mu ibara.

Amoko y'imbuto n'imboga zitandukanye, harimo amaronji, inyanya, karoti, imboga, metero n'ibindi bikoresho bitandukanye umuntu yakoresha mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bose bambaye ibibapfuka ku munwa, umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro, barimo baramuhambiraho ikirinda ukuboko kwe igihe ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda ya move, ipantaro n'isengeri ntoya arimo arakora siporo yambaye n'amasogisi, afite imisatsi y'umweru yicaye ahantu ari gukora siporo ngororamubiri.

Abantu babiri, umwe wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, afite umupira w'amaguru n'undi mu kwaha, undi yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo, afite ibyuma, afite icyuma gifite amapine.

Umuntu wavunitse ikirenge, arimo arahabwa ubutabazi bw'ibanze, umuntu urimo kumwitaho, yambaye umupira w'umutuku, ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye ahantu hejuru y'ameza, arambuye amaguru yose, umugabo afite ibishembo arimo kwifashisha mu kuvura uyu muntu.

Umusore urimo urakora siporo zo kunanura amaboko, umugongo n'amaguru, ari kurambura amaboko ayafatisha ku nkweto yambaye kugira ngo ananure imitsi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa arimo aramurika mu kanwa k'umwana amufashe mu mutwe, umwana aricaye yambaye umupira w'ubururu, hari n'abandi bantu bari inyuma, umugore ndetse n'umugabo bose bambaye udupfukamunwa.

Umukobwa wambaye impeta za pinki, amasogisi y'umukara, ipantaro y'umukara n'umupira wa pinki ari mu myitozo ngororamubiri, yafashe ukuboko kumwe agukoza ku kirenge ukundi agufatisha mu ivi, ari mu myitozo ngororamubiri arahumirije.

Ibyo kurya by'imbuto, harimo avoka, inyanya, imboga z'amashu, karoti n'ibindi, inkweto za siporo, icupa ry'amazi n'ibindi bikoresho byifashishwa muri siporo.

Abantu batatu bahagaze, hari umugabo wambaye ijire y'icyatsi, ari gufasha undi musore wambaye isengeri y'umutuku, imbere yaho hari ikirango kirimo imibare bigaragara ko yari ari mu marushanwa, undi ahagaze areba inyuma yambaye n'ingofero y'umweru.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, apfukamishije ivi rimwe irindi ararishinze, ari mu myitozo ngororamubiri aho yashashe ikintu akandagiyeho.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo abantu batandukanye baje mu myitozo n'ibikoresho binyuranye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bimwe biri mu ibara ry'umukara n'umweru, harimo imipira n'ibindi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye isengeri yenda gusa umweru, afite icupa ryubururu rifite umupfundikizo w'umukara. Arimo arareba hejuru ari kunywa amazi meza yose ahagaze.

Umuntu uryamye ku gitanda. Yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro, n'inkweto z'umukara. Abandi babiri barimo baramukurikirana, bareba uko ameze. Ari ku gitanda mu bitaro.

Agasanduku karimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, hari ibikoresho binyuranye, harimwo umukasi, umushumi, imiti n'ibindi bakoresha batabara.

Amacupa abiri y'amazi, metero y'umweru, imbuto manderena, amaronji n'izindi mbuto, n'ikindi cyuma gihagaze aho amacupa ateretsemo hagati.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri gatoya kamufunze amabere n'agakabutura k'ubururu, afite inkweto z'umweru za siporo, arimo arakora siporo zo gukora ku maguru.

Umuzungu ari kumwe n'umwana ndetse n'umukira, hirya yabo hari undi mugore wicaye, hirya gatoya hari intebe n'ahandi hantu hasukuye neza, ku ruhande hari umuryango ndetse n'undi muntu bigaragara ko arimo arabareba n'ibindi bikinisho by'abana.

Icupa ry'umweru ririho ikirango cy'umukara cyanditseho ijambo stop, n'icupa rifite umupfundikizo ku buryo byashoboka kuwukanda maze ukabasha gukuramo ibiri mu imbere.

Umukobwa wicaye yakubye akabero, ari mu myitozo ngororamubir, imbere ye hari icupa ry'amazi, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'amaboko magufi afite imisatsi isutse, arimo aragorora amaboko ye ndetse n'amaguru.

Igipfuko cy'umutuku gikoreshwa kwa muganga, igihe bapfuka igisebe cyangwa se igikomere cy'umuntu wakomeretse, ni igipfuko kinini cyane gikoreshwa n'abaganga igihe barimo baravura uwakomeretse.

Imiti y'amoko anyuranye iri mu ikarito harimo amavuta, impapuro z'isuku, ibinini biri mu macupa atandukanye, ibindi biri mu mashashi, ibindi biri mu makarito, umukasi, ibyo bakoresha bashemba umuntu n'indi miti.

Umukobwa wicaye hasi, ari mu myitozo ngororamubiri yambaye ipantaro yumukara imwegereye inkweto z'umutuku za siporo n'insengeri ya'amaboko magufi, afite terefone yashyize ku kuboko kwe yambaye ekuteri. Imbere ye hari icupa ryamazi.

Imashini ikoreshwa kwa muganga, ifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, ifite aho bakanda n'ikirahure, mu kirahure handitsemo imibare icumi n'amazure abiri na rimwe n'ibice bitanu, ifite n'umugozi uriho ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri gatoya, afite imisatsi idefirige, arimo arakora umwitozo ngororamubiri wo kurambura imitsi, cyane cyane ku maguru no ku maboko.

Abantu batatu abagabo babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye imyenda y'umukara hose, bose bambaye amarineti, umwe uri hagati yabo afite kasike arapfukamye birasa nkaho yagize ikibazo.

Ibikoresho binyuranye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze birimo: umukasi, uturindantoki, inshinge, serenge, imiti inyuranye n'ibindi bitandukanye.

Ibishembo bikoreshwa kwa muganga cyangwa se muri siporo, hari ikisa ibara rya pinki, ikindi gisa umukara, ikindi gisa ubururu, byombi mu imbere harimo akantu k'umweru kabizingiriyeho.

Icyapa kigaragaza imyitozo icumi, umuntu yakora kugira ngo yongere asubize ubwonko ku murongo, igihe bwangiritse, hari imyitozo itanu yanditse mu ibara ry'ubururu, n'indi myitozo itanu yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Umuntu ufite uruhu rw'imibiri yombi, afite icupa ry'amazi, arimo ararinywa yarifatishije ikiganza k'iburyo, arimo aranywa amazi meza nk'isoko y'ubuzima.

Imashini ikoze mu ibara ry'umweru n'ubururu, ifite urutsinga rwayo rufite ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse naho bakanda. Mu kirahure cyayo harimo imibare itandukanye.

Inzu y'imyidagaduro, irimo ibikoresho binyuranye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo aho abitoza baryama, maze bagakora imyitozo yabo.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, inkweto z'umweru n'umupira w'umweru, arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Ari gukora arambuye ukuguru kumwe ukundi guhagaze, afashe mu mayunguyungu.

Icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umweru, ryanditseho amagambo mu ibara rya move, ubururu ndetse n'umukara. Ni icupa riri ku kirango cy'umukara wijimye.

Ibihingwa bya gakondo bishobora kuvamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye. Gifite amababi y'icyatsi, giteranye n'ibindi bihingwa bitandukanye ariko kivamo umuti.

Umugabo uri mu ivuriro gakondo, hari afite imiti gakondo y'amoko atandukanye, hejuru hari ikirango cya televiziyo y'u Rwanda ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umukara.

Ikirango kiriho umuti uvura amibe uri mu icupa ry'umweru rifite ikirango cy'umuhondo, hafi yaryo hari andi mafoto anyuranye harimo iyerekana amara, iyerekana umuntu yifashe mu nda n'andi magambo yanditse hasi.

Akabati karimo imiti gakondo. Imiti y'icyatsi isa umutuku, isa umukara, ifite imipfundikizo inyuranye. Iruhande rw'akabati, inyuma hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'umweru. Inyuma yaho hari ibindi biti n'ubundi busitani abantu barahanyura.

Ibimera gakondo bivamo umuti, ikimera cy'irecye giteye mu butaka bwiza, hafi yacyo hari ibiti, gifite ibara ry'icyatsi bigaragara ko cyavamo umuti.

Icyapa cy'umuhondo, kiriho uruyuki n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Hafi yaho hari ibara ry'ikigina n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu afashe ku kimera kigaragara nk'umuti gakondo, aho hari n'ibindi bimera biri kubyiruka ariko afashe ku kimera kimwe gusa bigaragara ko agiye gusoroma ikibabi kimwe.

Amacupa abiri afite amabara atandukanyeka rimwe rirasa umuhondo irindi rirasa umweru afite imipfundikizo inyuranye rimwe rifite umupfundikizo utukura irindi rifite umupfundikizo w'ikigina yose afite ifoto iriho ikirango cy'igikakarubamba.

Imiti yo mu bwoko bunyuranye ikomoka ku bimera gakondo, iri mu bikoresho bitandukanye bipfunyitse iyi miti bitewe n'uko nayo itandukanye, imwe ni umutuku, indi ni icyatsi, indi ni umweru, ahandi ni umuhondo n'indi myinshi itandukanye.

Amacupa arimo imiti y'ubwoko bunyuranye, hari amacupa afite ibara ry'icyatsi n'ibipfundikizo y'icyatsi hari andi macupa y'umweru afite imipfundikizo y'icyatsi, amacupa y'umukara afite imipfundikizo y'umweru, amacupa y'umweru afite imupfundikizo y'umweru.

Ubwoko bunyuranye bw'imiti, hari iri mu icupa, indi iri mu makarito atandukanye. Amakarito afite amabara anyuranye, hari iy'isa ubururu, isa umuhondo, isa icyatsi, ifite ibara rya move n'indi ishushanyijeho abantu n'indi yenda gusa umukara, hari n'igikombe k'ikigina.

Amacupa arimo imiti y'ubwoko butandukanye, hari icupa ry'umuhondo rifite umupfundikizo w'umukara, amacupa y'umweru yanditseho amagambo atandukanye, icupa ry'icyatsi, icupa ry'umukara, icupa ry'umutuku ripfundikije umupfundikizo w'umutuku.

Imiti iri mu bwoko butandukanye, hari umuti uri mu icupa ry'ubururu, undi uri mu icupa ry'umweru, undi iri mu icupa ry'umweru ariko rirerire, indi iri mu icupa rya move ndetse indi riri mu icupa ry'icyatsi rifite umupfundikizo w'umweru.

Amavuta y'uruhu ari mu icupa ry'ubururu ndetse rifite umupfundikizo w'ubururu. Handitseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo skin oil, hirya y'aho hari akamenyetso k'inuma.

Ibimera gakondo bivamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni ikimera gisa icyatsi kimeze nkaho ari ikibabi cy'umunyinya, inyuma hari ikindi kirabyo kimeze nkaho ari ikindi kibabi, ubwoko bw'icyatsi.

Abantu bari mu isoko ry'ibiribwa ndetse n'imiti. Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ahagaze hafi y'ahacururizwa imiti gakondo. Hari amacupa anyuranye arimo imiti, indi iri muri anvilope. Hafi ye hari izindi mbuto z'amoko anyuranye.

Uducupa dutandatu twanditseho Aloe Vera Jerry turi mu ibara ry'umweru, icyatsi, hashushanyijeho ururabo ndetse n'igishushanyo cyenda kumera nk'inkoko.

Umuti gakondo, ni ikimera gifite amababi y'icyatsi kandi maremare, cyera kimeze nk'kinyunyutse, iruhande rwacyo hari ibindi byatsi bitandukanye bidasa nacyo ndetse n'ibiti.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bifashisha ibibabi bitandukanye nk'ibibabi by'umwenya, amavuta n'ibindi, bakabivanga bagakuramo umuti wa Kinyarwanda.

Imiti gakondo ifite amabara atandukanye, hari isa imituku, isa umweru, isa umuhondo, isa ibara rya piki, isa ubururu, imeze nka masabwayi, imeze nk'imisogwe, imeze nk'ibiti, imeze nk'ibumba, n'indi myinshi inyuranye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, cyera imbuto zifite umuhondo ndetse n'umutuku, gifite amashami, hagati y'amashami hagenda hera imbuto z'amoko anyuranye, umuhondo, umutuku, hari n'izindi zera hafi y'amababi.

Ameza y'umuhondo ateretseho amacupa abiri arimo umuti. Icupa rimwe rirapfunduye rirasa umweru, irindi rirapfundikiye risa umweru, irindi ry'umuhondo rirapfundikiye ririho ifoto y'igikakarubamba. Hejuru yayo handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Amacupa abiri ateretse, iruhande rwayo hari icyapa cy'umutuku cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, icupa rinini rishushanyijeho igikakarubamba rifite n'ibara rya move, naho icupa ritoya rifite umupfundikizo w'umweru.

Isahani irimo isosi isa umuhondo, ikiyiko, tangawizi n'imboga. Biri ahantu hamwe ku meza barimo biratunganywa. Ni imiti gakondo.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umukara, arimo arasoroma ibihingwa gakondo bivamo umuti, uvura indwara zitandukanye z'abantu.

Icupa riteretse ku isahani y'umweru, ripfundikiye umupfundikizo w'umweru. Hafi yaryo hari imbuto zitandukanye. Harimo amaronji, manderena, n'izindi mbuto.

Amacupa atandukanye arimo imiti ituruka ku bimera gakondo. Harimo amacupa afite imipfundikizo y'umutuku, imipfundikizo y'umukara, ibirango by'imihondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Hari n'andi ateretse hirya afite imipfundikizo y'umutuku.

Igihingwa gakondo cyitwa urumogi, cyifashishwa mu kuvura indwara gakondo. Gifite ibara ry'icyatsi, kiri kumwe n'ibindi bimera bitandukanye ariko cyane cyane kiriganje

Umuti gakondo witwa tangawizi. Tangawizi isataguyemo uduce dutanu turi hasi, n'izindi zifatanye zidacagaguye. Hari imwe ifatanye n'indi zirimo ebyiri, n'indi irikugaragara inyuma.

Amacupa ane ari mu mabara atandukanye. yose yanditseho Aloe Vera Gel. Inyuma yaho hari ishusho y'igikakarubamba. Rimwe riri mu ibara rya pink, irindi umuhondo, umuhondo werurutse n'umuhondo uterurutse cyane.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga n'ingofero mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, afite ikarito y'umutuku arimo arashyiramo imiti, imiti iri mu mumacupa y'umukara afite n'ibirango by'umutuku n'umweru, afite amakarito menshi n'imiti myinshi.

Umuti gakondo uri mu icupa rishashagirana, rifite umupfundikizo w'icyatsi ndetse n'ikirango cyawo kiri mu ibara ry'icyatsi, handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umuti gakondo witwa umuravumba, uri mu icupa ririho ikirangantego cy'umweru cyanditseho umuravumba, upfundikije umupfundikizo w'umuhondo ndetse wenda gusa ikigina.

Umuti gakondo witwa umuravumba uri mu ibara ry'icyatsi wera ku giti kirekire, inyuma yaho hari indi miti itandukanye gakondo. imbere kuri iki cyapa hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza" mr top tropicals.com".

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu handitseho amagambo avuga ko ari umujyanama w'ubuzima n'imirire. Kuri icyo cyapa hariho amacupa menshi y'imiti itandukanye. Amwe afite imipfundikizo y'icyatsi andi afite imipfundikizo y'umuhondo kuri icyo cyapa hariho na nimero ya telefone.

Amacupa atandukanye arimo umuti uturuka ku bimera gakondo, hari icupa ripfundikije umupfundikozo w'umweru, umuti uri mu ikarito, umeze nk'isabune iva muri voka, hari imiti y'igikakarubamba, n'indi miti yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku.

Umuti gakondo uri mu macupa atandukanye, harimo ubuki, amavuta, ibyo kunywa binyuranye bikoreshwa nk'umuti gakondo mu muco.

Umuti gakondo uri mu ikarito y'icyatsi. Hariho amakarito abiri ndetse n'ifoto y'umuntu wambaye ikanzu y'umukara, handitseho amagambo ari mu cyongereza avuga ngo fibureriti nacuro tiritimenti ngo seyi no tu operesheni ntabwo biri ngombwa ko umuntu ajya kubagwa.

Imiti gakondo iri mu bwoko bunyuranye. Icyapa gishushanyijeho amacupa ari mu moko atandukanye, n'imiti inyuranye. Imbere y'ayo macupa harimo ifoto y'umuntu. Hari amacupa ari mu ibara ry'umuhondo, umweru, icyatsi n'ibindi.

Utujerekani dutandukanye turi mu ibara ry'umuhondo ndetse amagambo amwe yanditse mu ibara ry'ikigina, hariho ifoto y'igikakarubamba, amacupa yose apfundikije umupfundikizo w'ikigina.

Amoko atandukanye y'imboga, harimo imboga z'amashu n'izindi mboga z'amashu zo mu bundi bwoko buteye imbere, zose ziri ahantu hamwe, aho abantu bazisanga bakazigura.

Imiti ikomoka ku bimera gakondo. Hari amacupa abiri y'umukara, afite ikirango cy'umweru n'irindi cupa rimweya riri munsi yayo, ahandi hari amacupa abiri y'umuhondo, yanditseho ijambo jel, andi munsi yaho hari andi afite ibara ry'umweru ashushanyijeho igikakarubamba.

Amoko anyuranye y'ibimera bivamo imiti ivura indwara zitandukanye. Harimo nk'igikakarubamba, imboga n'izindi ziri mu moko atandukanye, ariko amazina yabyo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ikarito nini ikozwe mu ibara ry'umweru, hagiye hariho amabara y'ubururu n'amagambo yanditse muri iryo bara ry'ubururu ariko yo yandikishije ibara ry'umweru, hari n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu kuri iyi karito.

Icyapa gifite ibara rya pinki n'ibara ry'icyatsi hariho umuti uri mu macupa abiri atandukanye hashushanyijeho umuti w'igikakarubamba, hafi yaho hari amababi anyuranye asa icyatsi ndetse n'umweru.

Imiti gakondo iri mu ducupa dutandukanye hari umuti usa ikigina uri mu gacupa gapfundikije umupfundikizo w’ubururu undi uri gusa umuhondo nawo uri mu gacupa gapfundikije umupfundikizo w'ubururu n’uducupa dutanu.

Amoko atandukanye y'imbuto, ubu bwoko ni ironji ndetse na manderena, rimwe rirasatuye hari n'utundi dutoya dusatuye, hafi yaho hari andi adasatuye akiri yose, ahishije cyane arasa umuhondo.

Imiti yitwa Infinite iri mu macupa atandukanye, icupa rirerire ry'umweru n'irindi cupa rirerire riri mu ibara rya move, yose yanditseho Infinite, hari andi macupa magufiya, iry'umweru ndetse n'irindi rya move ripfundikijemo umupfundikizo w'umweru.

Icyapa kigaragaza imiti gakondo ishobora kuvura indwara z'umugongo; imwe iri mu icupa rinini ry'umweru, indi iri mu macupa matoya, hariho amafoto anyuranye agaragaza uburwayi bw'umugongo umuntu ashobora kuba afite, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Aharunze ibitunguru bizwi nka tungurusumu by'umweru bidashushuye, birarundanyije, biri ahantu hamwe. Bimwe bigaragara ko byeze cyane, ibindi bigaragaza ko bigiye gusaza.

Amacupa atandukanye afite amabara atandukanye. Rimwe rifite ibara rya move ryanditseho ca icyenda, irindi riri mu icupa ry'umweru, abiri ari mu icupa y'umuhondo, rimwe riri mu icupa ry'umweru na move, n'andi macupa ari mu ibara ry'umuhondo. Byegereye hafi y'ahateye indabyo.

Ibiti by'ubwoko binyuranye, harimo ibiti birebire, ibyatsi bimwe bisa umutuku, ibindi bisa umuhondo, hirya gato hari ishyamba, ririmo ibiti byinshi binyuranye.

Imiti iri mu macupa atandukanye, ikomoka ku bihingwa gakondo. Irimo ubuki, igikakarubamba n'indi miti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amoko atandukanye y'imboga cyangwa se ibiribwa, hari ibisa umuhondo, ibisa umutuku, ibisa icyatsi, ibifite ibara rya move, ibifite ibara ryenda gusa ikigina n'ibindi bifite umutuku utererutse cyane.

Icyapa cya ALOE LIPS ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hafi yaho hari uducupa twanditseho ALOE LIPS. Ni uducupa dutatu duteretse mu buryo bunyuranye, munsi yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza awusobanura.

Ibinini biri mu gifuniko cyabyo, ni binini binini biri mu dufuniko dutatu, imbere yaho hari ikarito bizamo yanditseho makumyabiri na kane akarongo kaberamye karindwi, biri mu ibara ry'icyatsi n'umweru.

Ibihingwa bitandukanye bivamo umuti gakondo, umuntu wa mbere aratwereka igihingwa cy'icyatsi, undi aratwereka ibindi bihingwa afite mu ntoki, hari ikindi gihingwa giteretse gusa ndetse n'ikindi umuntu afashe mu ntoki hasi.

Umuti gakondo ukomoka ku bimera. Iki kimera gifite ibara ry'icyatsi, kikaba ari umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ku bantu batandukanye.

Ibimera gakondo igiti cy'icyatsi giteye ahantu hari ibindi byatsi by'icyatsi ndetse hari n'ibiti hari ibyatsi byinshi binyuranye bivamo imiti itandukanye abantu banywa bagakira indwara.

Icyapa kigaragaza imiti iri mu macupa anyuranye, aho ateretse hari icyapa gifite ibara ry'umuhondo, ni amacupa afite udupfundikizo tw'umweru, hirya y'aho hari ijage.

Inzu y'imiti irimo abantu babiri ni imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, hari amacupa apfundikije imipfundikizo y'umweru, hari andi y'umuhondo, andi arasa icyatsi, andi yenda gusa umutuku, hirya yaho hari firigo y'umweru yegeranye na muganga.

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu arimo araseka agaragaza amenyo ye yo hejuru ndetse n'iminwa, munsi y'iyo foto hari ibikombe birimo imiti gakondo inyuranye, harimo nk'uw'igikakarubamba, iruhande rwaho handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.